Abana bakiri batoya ni bamwe mu agire ubuzima bwiza kuko ariwo musingi w'iterambere ry'igihugu

Amazi yo kunywa ni ikintu dukenera mu buzima bwa buri munsi; bityo rero bidusaba umwanya wacu no kwigomwa tugakora urugendo tukajya ku mavomero tukajya guhiga amazi. Dushobora kuyanywa, kuyatekesha, kuyafurisha imyenda no kuyakoresha ibindi bikorwa bitandukanye harimo nk'imirimo yo mu rugo.

Imbyino gakondo zikozwe mu buryo bwo gushayaya no gutega amaboko by'abadamu ni bimwe mu bintu bishimisha cyane, ibi ngibi usanga ari abantu bamwe na bamwe bishyura amafaranga kugira ngo babyinirwe izi mbyino dore yuko baba bazikunda kuko zibanezeza.

Abanyamahanga bagaragaje uruhare rukomeye cyane mu kwifatanya n'abayobozi ba leta y'u Rwanda mu kwita ku buzima bwo mu mutwe cyane cyane bafasha abakiri bato, abanyeshuri, bashishikariza n'abatabyumva tugatera imbere.

Ni byiza ko mu gihe umwana agiye kunywa amazi adakoresha intoki ahubwo akoresha agakombe kabugenewe, ubundi akanywa amazi kuko mu ntoki haba harimo imyanda, bityo rero bigashobora kumutera n'izindi ndwara.

Kugira ngo abana bakiri batoya babashe kuvoma amazi rimwe na rimwe bakoresheje amariba abasaba gupompa bibasaba imbaraga nyinshi cyane nyamara iyi mirimo yagakwiriye gukoreshwa abakuze abana bakajya kwiga.

Amavomero yagiye yubakwa hirya no hino mu iturage mu gihugu cy'u Rwanda, afasha abaturage kubona amazi meza yo gukoresha isuku mu rugo aho batuye. Ibyo ariko ntibihagije kuko abaturage na bo basabwa kuyakorera isuku harimo nko gutera ibiti ku nkengero z'ayo mavomero kugira ngo atangirika vuba.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye na za leta bakunze gukora inama biga ku bibazo bihangayikishije abaturage bijyanye n'ubuzima bwabo, harimo n'indwara z'ibyorezo birushaho kwiyongera mu buzima bwa buri munsi harimo kandi n'umutekano wabo w'ubuzima bugariza nk'ibibazo byo mu mutwe n'ibindi.

Mu rwego rwo kurwanya indwara ziterwa n'umwanda mu gihugu cyacu, si ngombwa gusa kurindira kandagira ukarabe za kizungu ahubwo usanga abaturage bo mu byaro bashishikarizwa cyane na bo gukora kandagira ukarabe. Iyi ngiyi bayikora bifashishije ibiti bibiri ndetse n'ikindi gitambika, hagashyirwaho akajerekani kazaza kaba karimo amazi noneho agashyirwaho n'umushipira umuntu agenda agakurura, agakandagira agakaraba.

Twirinde kumena amazi cyane kuko amazi ni ingenzi mu buzima, turamutse tuyabuze koga, gufura imyenda yacu, gukoropa n'ibindi bikorwa bya buri munsi byahagarara tukabaho nabi.

Amavomero agenda yubakwa hirya no hino binyuze mu gikorwa cy'umuganda ukorwa n'abaturage ubwabo, bifashishije abafundi babyize kandi bazi kuyubaka, bityo abaturage bakajya babona amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo.

Amavomero yubatswe hirya no hino kugira ngo abaturage babashe kubona amazi meza yo gukora isuku mu ngo zabo ndetse n'imibiri yabo. Ibingibi nta gushidikanya biteza imbere ireme ry'ubuzima bwiza mu gihugu cy'u Rwanda.

Bamwe na bamwe babona amazi bibagoye bayakuye mu biyaga n'imigezi bene aya mazi aba asa nabi, ikindi habamo n'ingona n'imvubu bishobora kubarya kandi aba arimo imyanda, harimo nk'amabyi y'abantu n'imyanda imvura iba yazanye.

Kandagira ukarabe ni igikoresho cy'ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, buri uko umuntu avuye ku bwiherero, kubera ko hari imyanda aba akuye, amasazi yamugiyeho, cyangwa se amazirantoki nayo yamugiyeho, agomba kuza agakaraba n'amazi meza n'isabune kugira ngo adasiga umwanda abandi asanga mu nzu.

Kwegereza amazi abaturage bo hirya no hino mu gihugu byagize umumaro ukomeye cyane, kuko byagiye birinda abana batoya kurwara amaga, kugira ibiheri ku mubiri, ibihushe kuko wasangaga hari abana batoga, ndetse ngo bakore isuku yo ku mubiri nko gufura imyenda n'ibindi.

Abayobozi batandukanye abaminisitiri, abadepite, abasenateri, n'abo bagira uruhare mu guteza imbere imibereho myiza ishingiye ku buzima buzira umuze, ibi bikorwa mu nama za buri munsi, amasezerano bagirana y'ubufatanye hagati y'ibihugu n'ibindi.

Umwana mutoya utaramenya ubwenge, aba akwiye kwitabwaho cyane. Akajyanwa kwa muganga, agaterwa inshinge, agahabwa imiti, agahabwa amazi yo kunywa, dore ko ababyeyi bamwe na bamwe bibuka ko n'abana bakenera amazi, iyo umujyanye kwa muganga rero, arabungwabungwa ibyo byose akabikorerwa.

Hari ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abana kibaha ibikoresho kikabahereza amakayi bakajya kwiga kikabahereza amazi meza yo kunywa mbese kigaharanira kureba ko abatoya bagira ubuzima bwiza.

Ese kuki abashoramari badashyira amafaranga yabo mu bikorwa bijyanye no guteza imbere iby'ubuzima, bigeze kubikoraho ikiganiro, barimo za minisiteri, abarimo abakozi ba leta, abarimo abakuru b'ibihugu, ariko cyagaragaye yuko bigifite icyuho gikomeye, kandi ubuzima ari inkingi ya mwamba, bityo abantu bagomba kuyumva, bakabishoramo n'amafaranga menshi.

Mbere y'uko umuganga avura umurwayi we arabanza akambara ga akambara itaburiy yabugenewe, agafata urushinge akoza mu kiganza cy'umurwayi maze akamujomba agashinge kugira ngo amufate amaraso maze ajye kuyasuzuma arebe indwara arwaye.

Mu Rwanda mu gihugu cyacu haherutse guteranira inama mpuzamahanga yigaga ku kibazo cyo guteza imbere ubuzima bwo mu mutwe bwa buri muntu ku isi no mu Rwanda muri rusange, iyi nama yitabiriwe n'abantu batandukanye ndetse na perezida w'igihugu cyacu n'abaminisitiri.

Abana batoya nabo bari mu bavurwa kandi bakitabwaho bikomeye cyane . Kubatera inshinge, kubashyiraho igipfuko aho bakomeretse ,n'ibindi. Bakabasha gukira vuba nabo bakagira ubuzima bwiza kandi nyine bakabuhorana.

Abaganga usanga biganjemo ab'igitsina gore, dore ko bagira umutima mwiza wo gufasha, ni bo bakunda kujya mu kazi k'ubuganga, bakajya bita ku barwayi. Ariko n'abagabo tubasangamo, nubwo atari benshi cyane nk'igitsina gore.

Abaganga batatu b'igitsina gore, bicaye ku meza mu bitaro kwa muganga, barimo baruzuza amafishi y'abarwayi, bandika mu makayi bakoresheje n'amakaramu, kugira ngo basome amazina yabo, bagende babahamagara umwe kuri umwe, ubundi bahabwe imiti yo kwivura.

Usanga abaturage babukereye bazindutse cyane; bagiye kwitabira inama, amabwiriza, ubukangurambaga; buba bwateguwe na leta na minisiteri ishinzwe ubuzima, ubundi bagakingira abaturage, bakabaha inkingo z'indwara barwaye n'imiti ibafasha.

Ibihugu by'amahanga nabyo biri mu bigaragaza uruhare rwabyo mu rwego rwo guteza imbere ubuvuzi bwiza ibihugu bitandukanye. Nk'igihugu cya jojiya ni igihugu gifasha abantu cyane kubera ko cyamaze gusobanukirwa yuko ubuzima bwo mu mutwe bugomba kwitabwaho cyane.

Icyorezo cy'indwara ya maribogi, ni icyorezo cyashegeshe ibihugu byinshi cyane, na hano mu Rwanda rwacu i Kigali, ariko kugira ngo tugitsinde, leta y'u Rwanda yifatanyije no mu bihugu by'abanyamahanga, bashatse ukuntu bahiga inkingo turagihashya, turakirwanya burundu.

Ni byiza y'uko mu gihe umuntu amaze koza amasahani, ibikombe, amabase, n'ibindi bikoresho by'isuku yo mu rugo agenda akabyanika ku rutara bikabasha kumuka udusimba tukavaho cyangwa se akifashisha agatambaro kabugenewe ahanagura imyanda yagiyeho.

Ababyeyi ni abantu bagira impuhwe cyane mu buzima kuko usanga bafasha abana babo bakaboza, bakabasiga, bakabamesera imyenda, bakabagaburira guhera umwana akiri mutoya kugeza abaye mukuru.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi hagomba gupimwa n'uburebure bw'abana bacu kuko hari ikigero cy'imyaka umwana ageraho akaba agomba kuba afite uburebure runaka, iyo bitagenze gutyo hari igihe umwana aba yarakuze nabi cyangwa yarahuye n'ikibazo cy'imirire mibi bigasaba kwifashisha izindi nzira zo kumuvana muri icyo kibazo.

Bamwe mu bantu bakomoka mu bihugu by'iburayi harimo n'abazungu, ni bamwe mu bagira uruhare rukomeye cyane mu gutera inkunga no gufasha abanyarwanda n'abanyafurika kuzamura imibereho myiza, harimo nko kuba n'ubundi bufasha, ubujyanama, amahugurwa, ibijyanye n'ukuntu bagenda biteza imbere mu bijyanye n'imibereho myiza n'ubuzima bwiza bwabo.

Hirya no hino mu muryango mugari abantu usanga bagana ibigo nderabuzima cyane cyane abamama batwite, nko kujya gupimisha abana, kubatera inshinge, urukingo rw'iserua na rubeyoro, kubaha ibinini by'inzoka n'ibindi.

Ku mashuri no ku bigo bitandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda hagiye hubakwa za kandagira ukarabe bityo umunyeshuri mbere yo kwinjira mu kigo akabanza agakaraba mbere yo kujya kurya no kuva ku bwiherero akabigenza gutyo.

Amazi ni isoko y'ubuzima! Umuntu ashobora kuyakoresha imirimo itandukanye yo mu rugo. Harimo kumesa imyenda, gukoropa, koza abana, gukora isuku yo ku mubiri, n'ibindi. Amazi rero ni ingenzi.

Hari ikigo ku rwego rw'isi yose, gishinzwe kurengera amagara y'abana bakiri batoya, kubateza imbere kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bakita unicef, gikorera ku isi hose, mu bihugu byose.

Hari abantu bakora ibikorwa byiza by'ubukangurambaga gushishikariza ndetse no gushyiramo amafaranga mu kongera imibereho myiza mu baturage b'igihugu cy'u Rwanda, twavugamo nk'abanyamahanga bafatanyije n'abayobozi b'igihugu cyacu.

Bumwe mu bufasha cyangwa se ubwunganizi abaturage bahabwa harimo no kwegerezwa ibyo kurya bakabihabwa ku nkunga ya leta cyangwa inkunga y'ibigo by'amahanga, harimo nk'ikigo cyo ku isi hose gishinzwe guha abaturage ibiryo no kugoboka ibihugu byugarijwe n'ibibazo by'intambara.

Amahugurwa ateguye neza asaba abayakora gushaka impuzankano maze bakazambika abayitabiriye kugira ngo bigaragare neza, kandi abo bantu bamere nk'abantu bahuriye ku ntego imwe yo kurandura ikibazo runaka.

Abaturage bagenda bigishwa hirya no hino, ukuntu bafata ingamba ndetse n'uruhare bagira kugira ngo nabo bateze imbere imibereho myiza yabo, y'abaturanyi babo iyo abanyamuryango babo n'iyabo muri rusange.

Amazi abana bayakoresha iyo bari koga bagiye nko kujya ku ishuri cyangwa kugira ngo batarwara amaga, cyangwa barware inda ziterwa n'umwanda wo kutoga, ikindi bayakoresha bateka ibiryo byo kurya, by'amafunguro ya buri munsi.

Itsinda ry'abayobozi abaganga n'abaforomokazi, bari kwa muganga cyangwa bitabiriye igikorwa cyo gushishikariza abaturage kwirinda indwara zirimo n'iz'ibyorezo, ndetse banababwira kuza kwa muganga gufata imiti ku banduye indwara.

Abana batoya bagomba kwitabwaho cyane tubaha amata yo kunywa, tukabatera urushinge rubarinda indwara kugira ngo bakure bafite ubuzima bwiza kandi bafite ibiro byuzuye ntibibaviremo kugwingira.

Kunywa amazi y'imvura yaretswe mu bigega ndetse no mu madomoro aturuka ku mireko y'amazu si byiza habe na gatoya, aya ngaya aba asa nabi cyane harimo inzoka z'utunyamaswa dutoya, bityo umuntu aba asabwa kubanza kuyateka kugira ngo abe yayanywa.

Abagore bakuze cyangwa bubatsi ingo bari muri bamwe bakingirwa bagaterwa inkingo, harimo nk'izo gutuma baboneza urubyaro kuko kubyara abana benshi udafite ubushobozi bwo kubarera na byo atari byiza, harimo n'izindi nkingo zibarinda kuba bafatwa n'indwara zibasira imyanya ndangagitsina yabo.

Kuvoma amazi uyakuye ku iriba rusange nta kiguzi na kimwe bisaba leta cyangwa ubuyobozi bw'igihugu buba bwararyubatse ku kiguzi cy'ubuntu kugira ngo buri muturage wese aba afite uburenganzira ajya ajya kuhazanamo.

Abakiri batoya bishyize hamwe, bambaye imipira ya UNICEF, ikigo gishinzwe kurengera ubuzima bw'abakiri batoya binyuze mu kubaha ubujyanama ndetse n'ibiryo bibafasha kugira ngo bagire intungamubiri, aho babasuye ku mashuri bari kubaganiriza ndetse banababwira kwirinda ibiyobyabwenge.

Gukaraba intoki ni ingenzi cyane mu buzima bwa muntu, kuko bimufasha kwirinda indwara zitandukanye, zirimo nk'impiswi, agomba kubikora mu gihe avuye nko ku bwiherero kugira ngo ya masazi cyangwa za mikorobi n'amazirantoki byamugiyeho bibashe kumuvaho.

Yaba abagore n'abagabo, abatoya n'abakuru bose bagira uruhare mu kubungabunga ubuzima bwiza bw'ikiremwamuntu ndetse n'inyamaswa, aba bose babifashijwemo n'abayobozi bakuru n'abaterankunga barigishwa bakajya gushishikariza abandi iby'inkuru nziza.

Abana batoya bagomba gukaraba intoki kugira ngo bisukure, ntibabashe kugumana imyanda baba bakozemo iyo bavuye nko ku bwiherero cyangwa bari gukina, bakora mu ivumbi, bityo babashe kugira ubuzima bwiza birinda n'indwara ziterwa n'umwanda harimo n'impiswi.

Ni inshingano z'abaganga kumanuka bakagera no mu byaro, kujya guhiga ba baturage rubanda rugufi rutuye ahantu mu cyaro kure cyane, bityo bakabagezaho serivisi zijyanye n'aho ubuzima bwabo bugeze, bakita ku buzima bwo mu mutwe n'ubundi.

Hirya no hino usanga hateraniye abayobozi batandukanye, bari kwiga ku bibazo bijyanye n'ubuvuzi n'ubuzima bwo mu mutwe bw'abantu. Mu nama uba usanga bafite aho bandika ibibazo bari buze kubaza ubagezaho inama, bafite n'amazi yo kunywa kugira ngo baticwa n'icyayaka.

Abana bato bagomba gukingirwa, ariko nanone muganga agomba kubikora yitonze, kugira adakomeretsa umwana. Ikindi agomba kumenya aho atera urushinge, kugira adatera nko mu mutsi utari wo, ugasanga amuteye ikindi kibazo. Kwita ku bana ni ingenzi cyane.

Umunyeshuri uri gukaraba kuri kandagira ukarabe, avuye ku bwiherero kugira ngo yisukure, yivaneho imyanda bityo ataza kwirigata ku ntoki, akabasha gutamira ya myanda cyangwa agasuhuza bagenzi be akayibasiga.

Abanyeshuri ni bamwe mu bantu baba bakwiye kugerwaho n'amazi meza yaba ayo kunywa, ayo koga, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, kuko iyo baramutse barwaye bibagiraho ingaruka harimo no gutsindwa amasomo kubera igihe kinini baba bamaze batiga.

Amazi yo kunywa ni ingenzi cyane, kuko hari ibiturage usanga bitayageramo ugasanga baracyavoma ya mazi y'ibidendezi agenda akareka ahantu hakajyamo imyanda ibisimba, iminyorogoto, ni byiza rero kubagezaho amazi kugira ngo nabo batarwara indwara ziterwa n'umwanda.

Inama yo gushishikariza abantu uburyo bagira imibereho myiza usanga yitabiriwe n'abantu batandukanye barimo abayobozi b'ibihugu, abadepite, abasenateri n'abandi kugira ngo hafatirwe hamwe imyanzuro ihamye y'uko bagomba kwigisha umuturage kurwanya no kurandura ibibazo by'ubuzima.

Amavomero yagiye yubakwa kandi yegerezwa abaturage kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza bakora isuku yo ku mubiri wabo, bamesa imyenda bambara kandi bakanoza ibikoresho bakoresha birimo nk'ibyombo byo mu rugo.

Ikigo nderabuzima cya Mayange giherereye mu Karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda, hari abanyamahanga bagiye bagishoramo amafaranga mu rwego rwo gushyigikira abaturage bo mu ntara y'Iburasirazuba cyane mu Karere ka Bugesera yuko bagira ubuzima bwiza.

Umwana uvuye ku bwiherero n'umuntu mukuru, bagomba gukaraba intoki, ushobora gusuhuza umuntu ukaba umusize ya myanda, ushobora kurigata urutoki ukaba urayiriye ushobora gukora ku kintu ukayihasiga, n'undi akaza kuhakora bityo rero ni ingenzi gukaraba kugira ngo twirinde umwanda.

Abakomoka mu bihugu birimo n'iby'iburayi baza buri munsi kwifatanya n'abanyarwanda n'abantu bo muri Afurika, barebera hamwe icyateza imbere ubuzima bwabo bashoramo amafaranga cyane akoreshwa nko kubagurira ibinini byica nk'inzoka zo mu nda n'ibindi.

Abaminisitiri n'abasenateri iyo bicaye mu biro, baba bari kubazanya ibibazo ku byerekeranye n'ingamba ziba ziri gufatwa, z'ukuntu barushaho kongera ireme ry'ubuzima bwiza mu gihugu cy'u Rwanda.

Hari abakozi babishinzwe kandi babugenewe boherezwa mu byaro hirya no hino bakamanuka bakajya gufasha abaturage mu bikorwa bitandukanye bashaka kubafasha kubaterera imiti yica imibu ya malariya cyangwa kubafasha mu bindi bikorwa bigamije gutuma abaturage bagira ubuzima bwiza.

Kwegereza abaturage amariba ndetse n'amazi meza biri mu bifasha abantu kugira ubuzima bwiza. Ibi ngibi bikorwa n'ibigo bitandukanye ndetse n'abakoranabushake ku isi hose, aho batanga amafaranga yabo kugira ngo abandi bantu n'umuryango mugari bagire ubuzima bwiza.

Umurwayi agomba kwitabwaho cyane na muganga akamuhora iruhande ariko nano agomba kuza yitwaje n'umurwaza ugomba kumugaburira akamuhora n'iruhande akamwishyura n'amafaranga mu gihe ari kuvurwa kwa muganga.

Umwana agomba gusuzumishwa inshuro nyinshi cyane akajyanwa kwa muganga agaterwa n'inshinge zimurinda indwara zitandukanye, umwana aba afite ifishi ye iri kwa muganga bityo iyo igihe kigeze agiye kwivuza bahamagara amazina ye akagenda bakamuvura, ababyeyi na bo bazamuye imyumvire kuri ubu ngubu basigaye bakingiza abana.

UNICEF ni ikigo gishinzwe guharanira no kurengera amagara, ndetse no kugira ubuzima bwiza ku bana batoya, bafite ikigero cy'imyaka icumi gusubira hasi, binyuze mu bikorwa bitandukanye, byo kubaha inyunganizi mu mirire, ndetse no kubarihira amashuri, kubagezaho amazi meza, n'ibindi.

Umuntu uwo ari we wese akwiye kwita kuri mugenzi we, umuntu mukuru akwiriye kwita ku mwana cyangwa umubyeyi akita ku wo yabyaye, tukabikora gutyo, ubundi ubuzima bwacu bukagenda neza.

Ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abana ku isi, ikigo gishinzwe isuku ku isi, ikigo gishinzwe impunzi n'ibiza ku isi, ikigo gishinzwe ubufasha bw'amazi, n'igitsura amajyambere n'ubukungu bw'amafaranga, cyateye inkunga cyane mu guharanira no kurengera ubuzima bw'abantu n'inyamaswa.

Amazi ni ingenzi cyane mu bikorwa byacu bya buri munsi, adufasha mu bikorwa bitandukanye uretse kuba tuyanywa, tukayatekesha, ni nayo twoga, tukayafurisha imyenda, akoza n'abana bacu.

Gukaraba intoki twifashishije amazi meza n'isabune ni igikorwa cy'ingenzi cyane, harimo nko gukarabya abana, kuko baba bakoze mu myanda myinshi iyo bari gukina cyangwa bakora mu ivumbi cyangwa se bavuye ku bwiherero.

Mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi abanyacyubahiro bakomeye cyane barahuye, nabo bafite uruhare mu kuzamura ireme ry'ubuzima no kwita ku bantu baba bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu miryango ikennye.

Ni byiza yuko igihe turi kuganirizwa ku bijyanye n'ubuzima tuba tumeze nk'abanyeshuri bari mu ishuri bari gukurikirana amasomo. Umuntu agomba kuba afite aho yandika mu gakayi kugira ngo niba hari ingamba bamubwiye agomba gukoresha ahite azandikamo vuba vuba, nagera mu rugo aze kureba mu ikayi aziyibutse.

Imiryango imwe n'imwe muri Afurika ikora urugendo rurerure ijya guhiga amazi yo gukoresha cyangwa se yo kunywa. Aho usanga bayakura mu migezi ari ukuyadaha bifashishije amabuni yabugenewe, ibingibi biracyari imbogamizi cyane ku miryango nyafurika.

Abana batoya bitabwaho cyane n'ababyeyi babo, bakabajyana kwa muganga kubasuzumisha, bakabatera inkingo, bakabaha ibinini. Ikindi kandi ababyeyi babo babitaho babonsa, bakabaha ibere, bakabaha n'ibiryo.

Yunisefu mu magambo y'abanyamahanga ariko yimpine ni ikigo gishinzwe kwita ku buzima no kurengera abana bakiri batoya. Iki kigira uruhare cyane mu gutera inkunga ibihugu bitandukanye byo muri afurika bikigaragaramo imirire mibi n'ibindi.

Igikorwa cyo kuvura abarwayi no kubashishikariza kwita ku buzima bwabo ntabwo kiba cyoroshye habe na gato. Bisaba abaganga kuba barigishijwe harimo no kwihangana. Aba ngaba baramanuka bakajya mu baturage bakaza bakabasuzuma kandi bakihanganira imico yabo, bakihanganira n'igihe bari buhamare. Nyamara rimwe na rimwe ugasanga ahanini nta n'itike bahawe ahubwo bibasaba kwihangana.

Abamama b'igitsina gore, ni bamwe mu bantu bitanga cyane kugira ngo iterambere ry'urugo rirusheho kugenda ryiyongera, ugasanga baheka abana, bakajya koza ibikoresho no kumesa imyenda, nyamara bikabagora cyane, mu gihe abagabo baba bumva yuko nta kintu bakoze.

Ni ngombwa kwicara umuntu agatekereza cyane, mu gihe hari igikorwa ashaka kugeraho, ariko akabona yakifashisha abandi bantu kugira ngo abashe kukigeraho byihuse, ibi ngibi bihita bimufasha kudahomba kuri uwo mushinga aba yatekereje.

Abantu bari mu nama baba bateze amatwi, bashaka kumva ingingo zigiye kuganirwaho bafite n'ikaramu n'ahantu ho kwandika, kugira ngo baze kubaza ibibazo inama irangiye, kandi baba bagomba kubikora kugira ngo bagire ingamba batahana zo kwirinda.

Indwara yo kwiheba ni imwe mu zizengereje abantu benshi cyane hano ku isi, aho usanga umuntu yabuze ibyiringiro, akagenda akigunga agatekereza ibintu byinshi, nyamara ibingibi umuntu aramutse aganye kwa muganga hakiri kare, ashobora kuvurwa agakira

Abana ni abantu baba bishimye cyane mu buzima, ni abantu b'inzirakarengane batazi ikibi n'ikiza, tugomba kubigisha rero bakiri batoya kugira ngo bakorane iyo mico myiza kuko ibingibi biradufasha cyane, iyo umwana umwigishije yarakuze ntago yumva.

Gufata ifoto ni igikorwa cy'ingenzi cyane ahantu habaye amahugurwa ntago bayasoza bidakozwe rwose ibingibi bibafasha kugenda bakayahanaguza bakayamanika mu biro bakoreramo ku buryo bizabera n'abazaza ubutangabuhamwa bwo kumenya yuko icyo kigo koko cyakoze kandi cyahozeho.

Amahoro y'imitekerereze no mu bwonko, ni ikintu cy'ingenzi mu buzima cyane, kurusha n'ubutunzi n'amafaranga twirirwa duharanira, dukwiye kuganiriza abantu bihebye, abafite ibibazo, bityo nabo bakabaho bumva bigenga, kandi bafite amahoro y'umutima yo gukora icyo bashaka.

Buri munsi hashyirwamo imbaraga mu kwigisha urubyiruko n'abakiri batoya ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Abarenga ijana bo mu bihugu bya afurika birimo nk'u Rwanda muri buri ntara bagenda bigishwa mu gusobanurira bagenzi babo, ibiri mu buzima bwo mu mutwe nko kwirinda ibiyobyabwenge n'ibindi.

Umuntu ashobora kubona inama z'uburyo yakitwararika cyangwa akagira ubuzima bwiza bujyanye n'ubwo mu mutwe abikuye ahantu hatandukanye, ashobora kubibwirwa na mugenzi we, imbonankubone cyangwa akabikura ku miyoboro y'ikoranabuhanga akoresheje itumanaho cyangwa akoresheje igikoresho cya terefoni ya buri munsi agendandana.

Indwara iyo ariyo yose igira ibimenyetso guhera umuntu ayirwaye kugeza umuntu ayikize cyangwa se inamuhitanye, tuvuge nka marariya igira ibimenyetso nko kurwara umutwe, guhinda umuriro, bikagezaho umuntu akaruka bityo bikamusaba kujya kwa muganga kuko bitabaye ibyo hari n'igihe wisangamo hajemo n'urupfu.

Umusazi ni umuntuntu wese ukora ibikorwa bitarimo inyurabwenge, akaba afite ikibazo k'imitekerereze yo mu bwonko, ushobora kumubona atora amashashi, imyanda, yisekesha nta muntu bavuganye cyangwa akarira n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Imiryango imwe n'imwe yo mu biturage by'ibyaro usanga ibayeho mu buzima bwo guhinga, gukura ibijumba, gukura imyumbati, bashakisha ibyo kurya n'amafunguro yatunga abana mu rugo, ibi ngibi bitandukanye cyane no mu mujyi aho usanga ho bakoresha amafaranga bahaha bya bindi byavuye mu cyaro.

Hari imiryango imwe n'imwe mu gihugu cy'u Rwanda ubona ko igituye mu bukene, aho usanga baba mu nzu idateyemo isima, barara ku musambi, batagira intebe nziza imvura ikagwa ikagwa mu nzu ukabona yuko babayeho mu buzima butari bwiza.

Umwana muto w'umunyeshuri ubona ko ariko yagize ikibazo cy'imitekerereze uhora yisetsa ubusa, ibi ngibi hari igihe bishobora kuba byaratewe n'ingaruka umubyeyi we yahuye nazo igihe yari amutwite cyangwa bigaterwa no kumutererana batamuganiriza.

Mu rwego rwo gutanga ubufasha ku baturage bo hasi mu byaro leta yashyizeho ingamba aho imodoka zimanuka zikajyayo ziba zitwaje imiti n'abaganga maze abo baturage bagakusanywa bakaganirizwa kandi bagaterwa n'inkingo zo kwirinda indwara runaka.

Hari abantu bihebye barwaye indwara zikomeye cyane kubera kugira imitekerereze ibintu bikabacanga. Aba bantu rero ntabwo dukwiriye kubatererana ahubwo dukwiriye kubaba hafi byaba ngombwa bakajyanwa kwa muganga bagahura n'abantu babyigiye bakabaganiriza.

Abantu bageze mu zabukuru bari mu bifashishwa mu kubakoreraho ibyegeranyo bigamije kubashishikariza kwipimisha indwara zitandukanye zo mu bwonko, hari nk'abo usanga batagitekereza neza kubera iminaniro n'ibindi bigiye bitandukanye, aha ngaha rero begera ba muganga bakabagira inama mbese bakongera bakabasha kwibuka n'ibindi.

Kenshi na kenshi hakunze kuba inama z'abaturage bagakusanyirizwa ahantu hamwe bakaganirizwa ku ngingo runaka ijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe mu kwita ku bana, kuganiriza bagenzi bacu, kudatenguha umuntu waheranywe n'agahinda abagize ikibazo bakagana kwa muganga , bityo tukabasha kubaho dufite ubuzima bwiza.

Abayobozi bakuru n'abashoramari bagaragaje yuko bifatanyije n'abaturage na leta mu kurandura ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, cyane cyane nk'abahura n'ibisazi tukabafasha, bakavurwa bagakira nabo babigizemo uruhare.

Mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, abaterankunga batandukanye bo mu bihugu by'i Burayi bifatanyije n'abayobozi b'abanyarwanda, bagenda bagira uruhare mu gukora ibikorwa bitandukanye, harimo ibikorwa by'ubuvuzi, ibikorwa byo gushishikariza abantu ku ndwara zo mu mutwe, ibikorwa byo kubabwira gukora imyitozo ngororamubiri n’uko bakwirinda ibyuririzi.

Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda cyashyize imbaraga mu kuganiriza abana ndetse n'abangavu n'abasore n'ingimbi kugira ngo na bo basobanukirwe agaciro k'ubuzima bwo mu mutwe, kugira imitekerereze myiza, kutanywa amatabi n'ibindi.

Kuruhuka ndetse no kuryama neza umuntu agasinzira, ukongeraho no gukora imyitozo ngororamubiri no gufata umwanya wo gusoma ibitabo, ni byo bifasha umuntu kwirinda imitekerereze idahwitse yo mu mutwe, kandi bikamufasha gutekereza neza, bityo akirinda ingaruka zirimo no gusara cyangwa kwigunga.

Imiyoborere myiza ni yo iteza imbere ubuzima bwiza bw'abaturage. Abaturage bashyigikira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu bikorwa byo kwiyamamaza cyangwa mu matora kubera ko yabateje imbere binyuze mu kububakira ibigo nderabuzima, kububakira amashuri ndetse n'imihanda.

Ikigo gishinzwe kwita ku buzima mu Rwanda kigira uruhare runini cyane mu gusobanurira abanyamuryango n'abene b'igihugu cy'u Rwanda ku bijyanye no kwita ku buzima bwabo ubwo mu mutwe, imitekerereze ya muntu n’ibindi.

Iyo imitekerereze yo mu mutwe n'ubuzima bwo mu mutwe bititaweho, bivamo ikibazo gikomeye cyane, harimo nko gusara, ugasanga umuntu akora ibikorwa biterekeranye; gutoragura amashashi, kurya imyanda, agakora ibikorwa bimeze nk'ibya kinyamaswa.

Muganga iyo agiye kuvura umuntu ufite ikibazo cy'imitekerereze arabanza akamutega amatwi inshuro imwe ebyiri akumva icyaba kibyihishe inyuma, ubundi akamushakira igisubizo gikwiye, nimba ari ukumuganiriza bakamuganiriza, nimba ari ubundi bufasha bakabumugenera.

Umuntu ubayeho yishimye nyine afite imitekerereze abona ko yuzuye ababaho aseka azi kugira inama abandi abatega amatwi naho umuntu udafite imitekerereze yuzuye uba ubona yigunze akora n'ibintu bidasobanutse.

Mu Rwanda hatangijwe ikigo gishinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe. Iki kigo gifite igishushanyo mbonera gishushanyijeho umuntu n'ubwonko bwe. Iyo ucyitegereje, uhita umenya neza neza agaciro k'ubuzima. Hariho umutaka umeze nk'utwikiriye umuntu. Bityo rero, kubungabunga ubuzima ni ingenzi.

Kuganiriza no kuba hafi umuntu wigunze, ni bimwe mu bintu bimufasha kugira ubuzima bwiza, n'imitekerereze myiza akongera akagarura icyizere, bityo bikamurinda kuba yafata imyanzuro mibi, irimo nko kujya kwiyahura.

Ubwonko bw'umuntu nibwo bukora imirimo yose ya buri munsi nko gutekereza, ni bwo kandi butegeka ibindi bice bigize umubiri gukora igikorwa runaka nimba ari nk'ukuboko kugiye gutera ingumi ubwonko nibwo butanga itegeko. Ugomba by'umuntu bugomba kubugwabungwa rero hita ku buzima bwo mu mutwe, kugira ngo ubwonko bw'umuntu butananirwa bukabasha gukora neza bityo akagira ubuzima bwiza.

Hari igipimo gipima umuriro umwana afite, iyo umujyanye kwa muganga, umwana cyangwa umuntu mukuru umushyira igipimo mu kwaha ubundi ukareba umuriro ari gupima, ibyo bigufasha kure niba yari arembye cyane cyangwa byoroheje.

Umuganga wambaye impuzankano, agapfukamunwa, uturindantoki, ufite ibikoresho byifashishwa mu kuvura amenyo. Yaryamishije umurwayi we ku ntebe, aho ari bubashe kumuvura neza. Ubundi arimo aramukura iryinyo cyangwa amwogereza mu kanwa.

Abana batoya akenshi iyo bari koza mu kanwa bakoresha umuti wabugenewe n'uburoso bwabugenewe bwo koza mu menyo, ubundi bakajya bakubamo bakabikora gutyo gutyo inshuro nyinshi bakiyunyuguza n'amazi meza, ubundi bikarinda amenyo yabo agakomera bakabaho bafite ubuzima bwiza.

Umuntu udakora isuku y'amenyo ngo akoreshe akadodo n'umuti wabugenewe n'uburoso, arwara indwara zirimo kuvunguka amenyo, ifumbi yo mu kanwa, no kugira impumuro mbi mu kanwa, abantu bakwiriye kwita ku isuku y'amenyo bakayasukura, bityo bakagira ubuzima bwiza

Kwita ku isuku yo mu kanwa, uhogesha umuti wa ugenewe n'uburoso ndetse ukinyuguza n'amazi meza, ndetse kandi ukajya no kwa muganga bakakogerezamo cyangwa bagashyiramo imiti yabugenewe, ni bimwe mu bifasha umuntu guseka neza akamwenyura.

Gusukura amenyo twifashishije umuti wabugenewe n'uburoso, ni bimwe mu bintu bidufasha kugira ubuzima bwiza kandi tukirinda indwara zo mu kanwa, zirimo n'ifumbi y'amenyo cyangwa kugira impumuro mbi mu kanwa.

Kwa muganga no mu bigonderabuzima bitandukanye usanga haba hari imashini zifasha umuntu guca mu cyuma maze akamenya ukuntu inyama ze z'imbere mu mubiri zihagaze zo mu kanwa. Hari uwo usanga afite amenyo yangiritse, bityo bikaba byaratewe no kudakora isuku yo mu kanwa. Umuntu wese asabwa gukurikirana iki kibazo kuko iyo bibaye birebire amenyo agenda avunguka ugasanga bimugizeho ingaruka zikomeye.

Abaganga bifashisha uburyo butandukanye iyo bagiye kuvura umuntu amaso, barabanza bakambara uturindantoki, udupfukamunwa n'ingofero zo mu mutwe n'impuzankano, bakambara n'amarineti kugira ngo abafashe kureba bavure umurwayi ijisho neza nta kibazo.

Kuvura umurwayi mu kanwa cyangwa se iryinyo bisaba kwitonda cyane, muganga yambara ibikoresho byabugenewe nk'uko bisanzwe, harimo uturindantoki agapfukamunwa n'amarineti n'impuzankano, akifashisha n'ibyuma byabugenewe akamuryamisha ku gitanda ubundi akabasha kumuvura nta kibazo rwose.

Gusukura mu kanwa bikorwa mu buryo butandukanye. Hari uburyo bwo gukoresha akadodo, no gukoresha umuti w'amenyo n'uburoso. Ibi byombi birunganirana cyane. Kuko nyuma yo gukoresha uburoso n'umuti wabugenewe, umuntu aba asabwa gucishamo akadodo hagati y'amenyo agakuramo imyanda iba yahezemo.

Gukoresha akadodo ukora isuku yo mu kanwa ni ibintu by'ingenzi cyane kuko kabasha gucengera hagati y'amashinya kandi uburoso n'umuti w'amenyo byo ntago byabasha kuhagera, bityo hari imyanda igenda ikajyamo ugasanga twakoresheje uburoso ariko ntibwabashije kuyikuramo, twibuke gukoresha n'akadodo.

Kwa muganga uretse kuba dusangayo ibikoresho byinshi, na ho habamo kandagira ukarabe kuko umuganga aba asabwa gukaraba igihe icyo ari cyo cyose yakora mu matembabuzi y'umurwayi kugira ngo ataza kuyasiga undi murwayi kandi na we ku giti cye akaba yayashyira ku mubiri we, akiyanduza indwara iturutse ku murwayi yavuraga.

Mbere yuko umuganga avura umurwayi arabanza agakora imyitozo cyangwa se isubiramo, nk'iyo agiye kumuvura amenyo yifashisha ibishushanyo byabugenewe, akaza akambara udupfukantoki, ubundi agafata n'agashinge agakora isuzuma, kugira ngo navura umuntu azabigenze nk'uko yabigenje ari kwigira ku gishushanyo.

Umuntu iyo adakoze isuku yo ku menyo, bimuviramo ingaruka nyinshi harimo nko kuvunguka amenyo, kwangirika kw'ishinya yo mu kanwa cyangwa se kugira impumuro mbi mu kanwa, bityo abantu bakwiriye kwita ku isuku yo mu kanwa, bakoresha umuti wabugenewe n'uburoso kandi bakibuka no gukoresha akadodo basukura mu kanwa.

Kwita ku isuku yo mu kanwa ni igikorwa k'ingenzi cyane, abana batoya nabo bashishikarizwa kubikora, kugira ngo bazakure bafite amenyo meza yererana kandi adafite umucafu ngo avunguke cyangwa se ngo barwane n'ifumbi.

Kwita ku isuku yo mu kanwa ni ibintu by'ingenzi cyane, kuko bidufasha kugira amenyo meza, kugira ishinya nziza itangiritse, kugira impumuro nziza mu kanwa, bityo tukabasha kumwenyura aho turi hose, isuku yo mu kanwa isobanura ibyishimo ku muntu aho ariho hose, aseka nta kibazo kandi bimurinda n'indwara zo mu kanwa, harimo nk'ifumbi y'amenyo.

Koza amenyo yacu dukoresheje umuti n'uburoso, ni ibintu bidufasha cyane abana batoya, ubusanga bafite amenyo yererana kubera ko bakunze kubikora kandi ugasanga nta n'ubwo barwaye indwara zo mu menyo nko kuvunguka amenyo n'ifumbi.

Muganga uvura amenyo atandukanye na muganga uvura malariya uvura amenyo aba yarabyigiye kandi afite ubuhanga bumubashisha kuvura umurwayi urwaye ibyiryinyo runaka mbere y'uko amuvura amusaba kwasama akazana udukoresho twabugenewe akamuvura amenyo agakuramo iryinyo akahoza cyangwa akamutera urushinge.

Kugira ngo umuntu akurwe iryinyo kandi asigare nta ngaruka bimusigiye bimusaba kujya kwa muganga maze bagakoresha udukoresho twabugenewe bakarivanamo, bakahamwogereza, bakamushyiramo imiti agasubira mu rugo yakize.

Ubuvuzi bw'amenyo yo mu kanwa buri mu bwateye imbere cyane mu bihugu bitandukanye, dore ko hagiye hubakwa n'imiturirwa imwe n'imwe ari ibyicaro nyine ubwo buvuzi bukorerwamo ikagenda yegerezwa abaturage nko mu Rwanda, bityo bakabasha kwivuza bitabagoye.

Gukoresha akadodo ni uburyo bwiza bwo kuza mu kanwa ugenda ukanyuza hagati y'amenyo ukuramo imyanda ariko ukabikora gake gake kuburyo utikomeretsa ibingibi birafasha cyane kuko uburuso ntabwo bubasha kwinjira hagati y'amenyo ngo bukuremo imyanda imwe n'imwe.

Umwana mutoya wajyanywe kwa muganga kugira ngo bamusuzumire kandi bamukorere isuku yo ku menyo, ubundi abashe kugira ubuzima bwiza kandi amenyo ye ahore akomeye, bityo ntazarware indwara zrimo ifumbi y'amenyo cyangwa ngo agire impumuro mbi mu kanwa.

Itsinda ry'abantu bahuguwe kandi basobanukiwe ibyiza byo gukora isuku yo mu kanwa harimo kwita ku menyo yacu ndetse n'ishinya yacu. Abangaba bagenda bahugura kandi bakanagira inama abaturage batandukanye hirya no hino mu cyaro aho abaturage baba bataramenya gukora isuku bakoresheje umuti w'amenyo n'uburoso cyangwa bagakoresha uburyo bw'akadodo.

Iyo umuntu adakozeza isuku yo mu kanwa, cyangwa ngo yite neza ku menyo ye, bishobora kumuviramo ingaruka zikomeye, twavuga nko kunguka kw'amenyo ye, cyangwa se kugira umwuka mubi mu kanwa, inyama ze zikangirika harimo n'ishinya, n'ibindi.

Akadodo burya nako kari mu gakoreshwa cyane mu gukora isuku yo mu kanwa, si ngombwa gukoresha gusa umuti wo koza mu menyo korugate cyangwa se gukoresha ikara, ahubwo ushobora no gukoresha akadodo ukagenda unyuza hagati y'amenyo ukuramo imyanda, bityo ukagira amenyo asa neza.

Umuntu urwaye iryinyo asabwa kujya kwivuriza kwa muganga bakarikurishamo utwuma twabugeneye ku buryo bitamusigira ingaruka, zirimo nko kutongera kurimera, kuva amaraso menshi mu kanwa cyangwa ku kugira igikomere.

Gusukura mu kanwa bikorwa mu buryo butandukanye. Hari n'uburyo bwo gukoresha akadodo, mu cyimbo cyo kuba umuntu yafata umuti wabugenewe n'uburoso agakuba mu menyo. Akadodo ni keza cyane kuko kageramo imbere mu nyama kagakuramo imyanda, ubuso butabasha gukuramo.

Umuntu asabwe gukoresha amazi meza ndetse n'umuti wo koza amenyo mu gihe agiye gukora isuku yo mu kanwa kandi ibingibi akabikora buri munsi byibuze nk'inshuro ebyiri cyangwa se imwe nko ku bana batoya bityo bikamufasha kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Gusukura amenyo yacu bikorwa mu buryo butandukanye harimo n'uburyo bwo gukoresha akadodo, umuntu agenda agacisha hagati y'amenyo, hagati y'ishinya n'iryinyo akavanamo imyanda iba yagiyemo bityo agahorana amenyo ameze neza.

Kugira ngo umurwayi avurwe amenyo hari imashini zifashishwa zabugenewe n'ibindi byuma by'ikoranabuhanga. Umurwayi aragenda akicara bakamushyira ku byuma by'ikoranabuhanga bagasuzuma amenyo ye bakabona iryinyo rifite ikibazo, ubundi bakarikura cyangwa bakaryoza.

Ningombwa kujya kwa muganga gukoresha isuku yo mu kanwa bakahoza bakagushyiramo imiti yabugenewe bityo kugira ngo ubashe kugira amenyo atavunguka kandi akomeye ndetse bakaguha n'ubujyanama ku bijyanye no kwita ku buzima bwo mu kanwa bityo ukabaho wishimye umwenyura nta shiti.

RBC, Ikigo gishinzwe Ubuzima mu Rwanda, cyakoresheje imbaraga nyinshi cyane mu gushishikariza Abanyarwanda kwirinda icyorezo cya COVID-19, kubapima indwara zo mu bwonko, iz’amenyo, n’izindi. Hajyaga habaho ubukangurambaga mu buri turere twose, hagamijwe gushishikariza Abanyarwanda kwitabira ibikorwa birimo nko gupima imivuduko y’amaraso n’izindi ndwara. RBC ni ikigo gikomeye cyane LETA y’u Rwanda ishimira.

Abantu bakuze cyane bari muri bamwe batwitaho mu buzima bwacu bwa buri munsi bagatuma tugarura ibyiringiro byo guseka cyane nkatwe abana batoya tukongera kubaho twishimye tukishimira ubuzima nta kibazo.

Abantu bakuze nabo bagomba kwitabwaho basangira, baganira babwirana, inkuru zishimishije cyane cyane nko mu muryango hagati y'umugore n'umugabo ukabona ko bifasha iterambere ry'urugo kuzamuka bikarinda n'amakimbirane.

Abaganga ni abantu bigishijwe ku buryo buhambaye, bazi kwita ku bantu cyane nko kuganiriza abantu bakuru, bakabereka icyizere cy'ubuzima, bakabavura indwara zabananiye, abantu bakuru bagasubira mu rugo bishimye.

Tugomba kwita ku bantu bakuze tubereka nuko bakora imyitozo ngororamubiri, ukabereka ahantu habugenewe ukamubwira nti bigenze gutya, bigenze gutya bityo, nabo bakabaho badafite ibinure byinshi mu mubiri kandi badafite n'umubyibuho ukabije.

Abantu bakuze cyane bakunze kwitabwaho baganirizwa bakababwira inkuru zibashimisha; kuko uba usanga batabikorewe bakigunga; bityo bagasaza vuba imburagihe kandi bakagera mu za bukuru batishimiye ubuzima; ni ngombwa rero kubaba hafi tubafasha muri buri kimwe cyose.

Abantu bakuru bazi kwita ku bandi binyuze mu kubaganiriza cyangwa gukina imikino na bo, ababyeyi b'igitsina gore bafasha abana babo kwishima bababwira amagambo meza kandi babafasha no kwidagadura.

Abantu b'igitsina gore ni abantu bakunze gutanga ubufasha cyane ku bandi, bazi kuganiriza, bazi gutega amatwi abandi ikindi bazi no kwita ku bagabo yewe n'abagore bagenzi babo.

abantu bakuru nabo bagomba kwitabwaho cyane na ba muganga baba barabyigiye bakabavura bakabasha kugira ibyishimo mu buzima bwabo hari abo usanga bafite ubumuga'bwo kutagenda kubera ko hari ingingo zimwe na zimwe baba baratakaje umugangataho ukabona babayeho bishimye

Abantu bakuze baradufasha cyane mu kwita ku bana batoya. Babaganiriza, babavugiriza ubuguyiguyi, bababwira udukuru dusekeje, abana bakishima bakagarura ibyiringiro. Ikindi iyo umuntu mukuru abona umwana imbere ye, yumva ibyiringiro by'ubuzima bigarutse.

Abantu bakuze bageze mu zabukuru, bagomba kwitabwaho nko kubambika imyenda, kubafasha kurya, kubaganiriza ubabwira udukuru tubaganiriza n'ibindi.

Abaganga buriya ni abahanga cyane, baba barigishijwe gutanga ubuvuzi ariko no kumenya kwita ku bantu byaba mu buryo bwo kubaganiriza no kubafasha kugeza bakize bagasubira mu rugo amahoro.

Abasheshe akanguhe nabo bagomba kwitabwaho cyane bakajyanwa kwa muganga, bakaganirizwa, bakerekwa icyizere cyo mu buzima, bityo ntibacogorere bakabaho bishimye, bakagira amasaziro meza bagatunga bagatunganirwa.

Kwita ku bantu bakuru ni ibintu by'ingenzi cyane, kubaba hafi, kubaganiriza, kudahwema kubereka yuko ubuzima ari bwiza no kudatuma bigunga ngo batekereze ku bibazo bagize by'ejo hazaza, ni igikorwa cy'ingenzi cyane mu kubafasha no kubarinda guhura n'ibibazo bitandukanye.

Abantu bakuze ariko babayeho mu buzima bubi akenshi tubasanga mu bice by'icyaro ariko baba bakwiye kwitabwaho kugira ngo badaheranwa n'agahinda, ibiba byabaviramo gusara, ubwo rero leta y'igihugu iba ikwiriye kwita ku bantu bageze mu zabukuru ikabafasha cyane ko nta n'abana baba bafite ngo bajye babavomera n'amazi.

Abantu bakuru ni abantu bakunda gusoma cyane ibitabo, bityo kimwe mu gikorwa cyo kubitaho, nko kubashakira ibitabo basoma, kubabwira inkuru ndende zagiye ziba z'amateka, ni ibintu bibanezeza cyane.

Abasheshe akanguhe bagomba kwitabwaho mu buryo butandukanye, harimo nko kubagaburira, kubakinira imikino ituma bishima, kubabwira inkuru, kubaba hafi igihe cyose tukabaganiriza, mbese bakishima.

Kwita ku bantu bakuru wabikora mu buryo butandukanye. Kumuganiriza, kumuba hafi mukagendana, ugenda, umubwira inkuru zishimisha, umwereka iby'ejo hazaza, ukamenya gukoresha uburyo bwo kuganiriza abantu bakuru n'ibindi.

Ni itegeko ko buri gihe cyose umuganga agiye kuvura umurwayi akaba ari umute urushinge cyangwa se ari bumubage ku buryo yazana amaraso, umuganga agomba kwambara uturindantoki, agapfukamunwa ku buryo nyine umurwayi atamwanduza indwara runaka ngo amaraso ye yivange n'aya muganga.

Abantu bakuze baba bagomba kwitabwaho bafashijwe n'abantu bakiri batoya, kugira ngo nabo babashe kugira ubuzima bwiza. Ibingibi bishobora gukorwa binyuze mu gukina imikino itandukanye, harimo nk'umukino wa dame cyangwa se tukabaganiriza nanone tubasomera n'ibitabo.

Twite ku bantu bakuze cyane twibuka no kubaha imiti yabo n'amazi meza bakayifatira ku gihe kugira ngo bakire vuba basubire mu rugo kandi ntibagire ikibazo mu buzima bwabo.

Kwita ku barwayi bakuze cyane tubahereza imiti ku gihe tukabaganiriza tukabafasha no kuyifata bakaryama bakaruhuka ni ikintu cy'ingenzi cyane kibafasha gukira kandi vuba.

Ni byiza kwicaza abantu bakuze ahantu hamwe, umuntu akabaganiriza ku bibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, akababwira ibibashimisha bakongera kugarura ibyiringiro mu buzima bwabo, cyane cyane nko mu bice by'icyaro n'ahandi.

Umuntu mukuru yitabweho ajyanwa kwa muganga, ashyikirizwa abaganga babyigiye kandi b'intyoza, bamuganirize bamwiteho bamuhe ubufasha, aseke yongere agarure icyizere cy'ubuzima.

Igikorwa cyo gufata amafoto, ni kimwe mu bintu bishimisha cyane, iyo bigeze mu gihe kizaza, ushobora kuyitegereza bityo bigatuma ubasha kwibuka iminsi wanyuzemo ahashize, ibi ngibi ni ingenzi cyane, abantu bose barabikunda harimo n'abantu bakuru.

Umukecuru uri gutanga ikiganiro, ubona yuko ari gushimira Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, yateje imbere kandi igaha agaciro abantu bakuze bari mu kigero cy'imyaka mirongo itanu kuzamura, aho na bo basigaye bagira uruhare mu gutanga ibitekerezo byubaka igihugu.

Umuntu wagize imvune agomba kwitabwaho mu buryo bukurikira: Guhabwa imbago zo kugenderaho, kumuganiriza, kumufasha gutambuka, kumubwira inkuru zisekeje bityo ntaheranwe n'agahinda, agakira vuba.

Abantu bakuru nabo bajya bakusanywa bakaganirizwa mbese ukabona ko ari igikorwa cyateguwe hagamijwe kubitaho, rero tugire umuco wa buri munsi abantu bakuru bajye bitabwaho cyane cyane abageze mu myaka y'izabukuru, tubaganirize ko natwe baba baratwitayeho tukiri abana.

Abasaza bakuze cyane ni bamwe mu bantu bazi gutanga ibyishimo ku bana batoya rwose babikora babacira imigani kubaganiriza amateka ya kera cyane hashize kubereka icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza n'ibindi.

Umubyeyi iyo ari kuganira n'abana batoya biramunezeza cyane cyangwa se yicaye akareba abana yabyaye akumva agaruye icyizere cy'ubuzima, barimo bamukinira udukino, bamuganiriza bitetera ukabona ari byiza cyane.

Ababyeyi b'igitsina gore bari mu bagenda bigishwa imirimo itandukanye y'amaboko, harimo nko kuboha ibyibo, kuboha ibidasesa, kuboho inkangara n'ibindi, batewe inkunga n'abantu bakize, harimo nk'abazungu bo mu miryango y'Iburayi.

Abantu baku iyo bitaweho ubonako bagaruye ikizere cyubuzima, bakongera bagaseka, bikaba aribintu byiza cyane abaganga batojwe iyimirimo yo kwita ku bantu bakuru, babaganiriza abafite ubumuga bakabacunga kutugare n'ibindi bikorwa.

Abantu bakuru buriya na bo bashimishwa no kubona abakiri batoya bari kubitaho cyangwa se nk'abaganga babigize umwuga, bakabafasha gukora ibintu bitandukanye, harimo nk'imyitozo ngororamubiri, akajya amwerekera uko arambura amaboko n'ibindi.

Abaganga baba barigishijwe ibintu bitandukanye, hari uba warize kuvura abarwayi, akabatera inshinge bagakira, ariko hari n'uba warahawe ubumenyi bwo kubaganiriza, akabavura atabateye n'izo nshinge, binyuze mu magambo meza cyane, no kubitaho na byo ugasanga bitanga ubuvuzi bukomeye.

Abantu bakuze bitabwaho mu buryo butandukanye, harimo nko kubaganiriza, kubakoresha imyitozo ngororamubiri, kubabwira inkuru zibashimisha, ikindi ukagenda ubereka ukuntu mu buzima hari icyizere cyo kubaho cy'ejo hazaza.

Umugabo akeneye kwita ku mugore we ndetse n'umugore akita ku mugabo we. Ibi harimo: kuganira ,kumuha ,amafunguro ,kumuha ibinini byo kunywa mu gihe arwaye, kumuha n'amazi yo kunywa akamuba hafi, bakabaho bishimye bakagira ubuzima bwiza.

Guhera kera kugeza ubu ngubu abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda ntibahwema kugaragaza uruhare rwabo mu gukuza ireme ry'ubuzima bwaba ubwo mu mutwe bw'abantu n'inyamaswa guhera kera mu myaka ishize bagiye bamanuka bakegera abaturage hirya no hino bakabaganiriza bakababwira n'ingamba zabafasha kurandura iki kibazo.

Iyo ugiye hirya no hino mu isoko, ukagera nko ku bamama bacuruza inyanya, cyangwa se amacunga, barakuganiriza neza mu kinyabupfura cyinshi, waba uri ugura bakakugurisha, waba utagura na bwo bakakubwira akamaro k'izo nyanya, cyangwa se ayo macunga.

Abantu bakuru bakunze kwita ku bana babo babaganiriza babaha ibyishimo, babaha ubufasha ariko abakiri bato nabo baba bakwiriye kwita ku bantu bakuru na bo bakabigira gutyo bakabaganiriza bakaberera imbuto nziza.

Hari ingamba ziba zarashyizweho na leta kugira ngo abaturage bayo babashe kugira ubuzima bwiza, umukobwa uri gusobanurira abandi ibijyanye n'ibitekerezo by'ukuntu yumva abantu babaho neza birinda indwara ziterwa n'umwanda cyangwa se ingaruka zo gukoresha ibiyobyabwenge.

Hari ikigo nyafurika gishinzwe kwita ku buzima bw’abantu, giherutse gusinyisha abakozi batandukanye bazajya bafasha bagenzi babo mu kwita ku buzima bw’abantu batandukanye. Maze ibingibi bikazamura ireme ry’ubuzima bwiza.

Indwara ya virusi itera SIDA mu gihugu cy'u Rwanda yarahagururikiwe cyane, ku buryo hashyizweho ibintu byifashishwa mu kuyirinda, birimo nko gukoresha agakingirizo mu gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina, hagati y'umugabo n'umugore cyangwa umuhungu n'umukobwa.

Burya indwara y'igituntu iravurwa igakira rwose, umuntu wese urwaye inkorora ikarenza ibyumweru bibiri asabwa kujya kwa muganga ngo arebe ko itaba yaramuviriyemo igituntu cy'igikatu, iyo ukurikiranywe n'abaganga hakiri kare uravurwa ugakira nta kibazo kikubayeho.

Hari ibyakusanyijwe bivuye mu bushakashatsi bwakoze ku cyorezo cya kovide cumi n'ikenda. Ibi ngibi babihaye ikigo gishinzwe kurengera ubuzima n'abana batanga iyi raporo kugira ngo barebe niba hakorwa izindi nkingo cyangwa se izindi ngamba zafatwa.

Uburwayi bwo ku jisho burakomeye cyane, kuko umuntu ataba abasha kubona, bisaba rero ko ajya kwa muganga, kandi nabwo si ibitaro ibyo ari byo byose bibonetse, ajya aho babifitiye ubuhanga hari abaganga babyize bakamuvura, iyo bikozwe neza arataha rwose yakize akongera akareba.

Ni kenshi cyane mu buzima bwa buri munsi leta n'ibigo by'ubuzima bishishikariza urubyiruko n'abantu bakiri batoya kwirinda indwara ya virusi itera sida, dore ko yandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa gukoresha icyuma kimwe n'undi muntu uyirwaye, harimo nk'urwembe n'ibindi.

Hari umunsi mukuru wahariwe kurwanya indwara ya Diyabete, uwo munsi mukuru ujya ubera ku nzu nkuru yubatse hano mu Rwanda, inzu ya Kigali Convention centre mu rurimi rw'amahanga, ni inzu ikunda kuberamo inama ariko nanone ziga mu kurandura ikibazo runaka cyabaye imbogamizi mu muryango nyarwanda.

Kugira ngo iy'Isi yose dukomeze kugendera ku muvuduko umwe, abantu twese dufite ubuzima bwiza, bwaba bwo mu mutwe n'ubwo ku mubiri muri rusange dutekanye, birasaba ko buri wese abigira uruhare rwe akajya abona mugenzi we nk'indorerwamo ye, tugafashanya tukabigeraho.

Abayobozi bakuru ni bamwe mu bantu bagira uruhare mu kurwanya indwara z'ibyorezo, ubuzima bwo mu mutwe n'ibindi, bagira inama bagenzi babo, umugore wa perezida Kagame, Jeannette Kagame wo mu Rwanda na we akunze kugira inama abakiri batoya ukuntu bakwirinda indwara zo mu mutwe.

Iyo umuntu afite ubuzima bwiza buriya abasha no kubaho neza mu buzima bwe, ufite umutima umeze neza ubwonko bukora neza, ingingo zikora neza, ubaho mu buzima rwose kuko ibi byose iyo biturutse mu mitekerereze, umuntu atameze neza nta n'ubwo aba abayeho neza.

Ikigo Mpuzamahanga gishinzwe kurengera ubuzima no kwita ku mibereho myiza, giherutse kugira amasezerano mashya mu gutera inkunga indwara zirimo nka Sida, zirimo igituntu, marariya n'izindi ndwara zibasira abaturage benshi batuye isi, iki kigo cyasize amasezerano cyangwa se umukono, kiwusinyanya n'ibindi bihugu nyine mu kurwanya izi ndwara zigabiza bamwe mu baturage.

Hari abantu babyigiye kandi bagahugurwa kubijyanye no gutabara umuntu warembye cyane; aha harimo nk'abaganga ndetse n'abandi bakoranabushake bose, baba bafite ubumenyi bahawe ku buryo bahita bavura umuntu ugize ikibazo gitu...

Abanyeshuri bo muri kaminuza n'ubuyobozi bwa kaminuza na bo baganirijwe kandi bategekwa kugira uruhare mu guharanira no gusigasira ubuzima bwiza bwa buri muntu wese na bo babigiramo uruhare.

Ibirori byateguwe na Minisiteri ishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, hagatumirwamo abantu b'ingeri batandukanye, ariko hakagaragaramo n'ababyinnyi bari kubyina imbyino gakondo, basusurutsa abantu bitabiriye icyo giterane, kugira ngo hatangwemo n'inama zo kwirinda indwara z'ibyorezo.

Indwara y'ubushita bw'inkende ni imwe mu ziyogoje abantu cyane cyane muri repubulika iharanira demokarasi ya Congo, mu gihugu cy'u Burundi ariko mu rwanda naho yigeze kuhagera. Iyi ngiyi rero igomba kwirindwa cyane harimo nko gukaraba tugakomeza tugakaza ingamba zo kwita ku isuku kugira ngo itatugeraho, twirinda n'imibonano mpuzabitsina.

Ikigo gishinzwe ubushakashatsi muri Afurika y'uburasirazuba, ntigihwema buri munsi gutera intambwe kigenda kireba uburyo ubuzima bwatera imbere. Ubuherutse cyagaragaje y'uko hari zimwe mu ndwara nyine zandura bigizwemo uruhare n'umuntu akazikwirakwiza ndetse hagaragazwa n'ingamba zishobora gufatwa kugira ngo tubashe kubihashya.

Minisiteri n'abakozi ba guverinoma ntibahwema buri munsi gushaka ingamba, ndetse no gukora akanama bakiyigisha ku buryo bashobora gutanga inama mu baturage, mu kurwanya ibibazo by'indwara z'ibyorezo zateye za buri munsi.

Itsinda ry'abantu bari kwamamaza ndetse banashishikariza bagenzi babo gukoresha agakingirizo igihe bagiye gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kugira ngo hirind indwara zanduriramo harimo na virusi itera sida.

Indwara yibasira umubiri w'umuntu y'ibiheri, ni imwe mu ziteye ubwoba kuko ishobora no kugira ingaruka, zirimo no gucibwa ukuboko cyangwa ukuguru, bitewe n'aho iyo ndwara yafasha umurwayi. Hakorwa ubukangurambaga buri munsi rero kugira ngo abantu barusheho kuyirinda, twayirinda dute? Dukaraba neza n'amazi meza.

Iminsi imwe n'imwe mikuru yagenewe yo kwizihizaho ubuzima bwo mu mutwe bw'ikiremwamuntu twavuga nk'umunsi uherutse kuba ukwa cumi na kumwe igihe hari ku wa gatatu mu mwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ushize hano mu rwanda iki gihe hizihijwe ubuzima bw'umuntu n'ubw'inyamaswa bwo mu mutwe.

Bimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu agira ubuzima bwiza, harimo nko kuryama ugasinzira, ukaryama amasaha ahagije, ibindi biza ari umugereka nko kunywa amazi, kwibuka gukina imikino itandukanye n'ibindi.

Twese tugomba kugira uruhare mu gikorwa cyo kwita ku buzima, guhera mu giturage aho dutuye kugera ku kigo kibishinzwe kuzamuka ku rwego rw'akarere ku rwego rw'intara no kugeza ku rwego rw'igihugu ari na rwo ruduha amabwiriza.

Abayobozi nabo bagira uruhare rukomeye cyane mu kugaragaza ko bashyigikiye kubungabunga ubuzima bw'abantu n'inyamaswa no kubaho neza, ukishyira ukizana kwa muntu. Abayobozi b'ibihugu harimo nk'abayobozi bo mu Rwanda ni bamwe mu badahwema kugaragaza yuko babyishimiye cyane.

Ubukangurambaga bugenda bukorwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda aho usanga abahinzi bigishwa guhinga kinyamwuga, abatunganya ibiribwa mu nganda nabo bakigishwa kubitunganya neza, abakora mu nzego z'ubuzima nabo bakigishwa kuvura twabihuza ibyo byose bikarushaho gutanga umusaruro.

Mu rwego rwo kugira ngo bumvishe abantu agaciro ko kwita ku buzima bwabo bisaba ubufatanye, bigasaba no kwihangana kandi no gufata inshingano ku bakoranabushake n'inzego za leta, bakamanuka bakajya mu biturage bakegera ba bantu bagifite imyumvire iri hasi bakabereka kandi bakanabasuzuma kugeza na bo babyumvishe.

Abayobozi bifatanyije n'abanyamahanga n'abaterankunga, bakoze ubukangurambaga bwo gushishikariza abantu uburyo babaho neza binyuze mu kwita ku buzima bwabo no gukunda no guha agaciro umubiri wabo.

Minisitiri w'ubuzima ari kwifotozanya n'abandi bayobozi, abanga bakaba bagira uruhare cyane mu guteza imbere imibereho myiza ku baturage batuye igihugu cy'u Rwanda, harimo kubaha ubujyanama bw'ukuntu bakwirinda indwara z'ibyorezo ndetse no kubaha ibinini bibafasha kwivura.

Mu rwego rwo kugira ngo duhashye icyorezo cya covid cumi n'icyenda; buri muntu wese yagizemo uruhare aterwa urukingo kugira ngo atanduza mugenzi we cyangwa abo babana mu rugo. Abasore ni bamwe mu bantu biteje inkingo, abakoranabushake na bo bafasha leta muri iki gikorwa.

Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda cyagize uruhare rukomeye cyane mu guhashya icyorezo cya kovide mu Rwanda, iki cyorezo cya korona cyari cyarayogoje umuryango mugari nyarwanda, iyi minisiteri ishyiramo imbaraga zikomeye zirimo gutegeka abanyarwanda kwambara agapfukamunwa, gukaraba amazi meza n'isabune n'ibindi.

Twirinde indwara zitandura ku buryo buziguye, izo ndwara zirimo sida, zirimo imitezi, zamburugu n'izindi. Zitandukanye cyane nk'indwara nk'ibicurane umuntu ashobora kwanduza undi igihe begeranye, kuko binyura mu mwuka. Naho izingizi zo zandurira nko mu maraso cyangwa mu mibonano mpuzabitsina.

Kwa muganga mu busitani bwaho, usanga hateye indabyo ku buryo zizakura zikajya zitanga umuyaga uhumekwa n'abarwayi hagahora impumuro nziza amafu, n'amafufu.

Ibitaro by'umwami Fayisari byubatswe hano mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, biri mu bikomeye cyane dufite mu gihugu cyacu, dore ko no kubyivurizamo usanga bigoye cyane, kuko bashobora kuba bishyuza ku mafaranga atari makeya ugereranyije n'ibindi bigo nderabuzima byo hasi.

Ibitaro bikuru bya kabgayi ni ibitaro biherereye mu karere ka Muhanga mu gihugu cy'u Rwanda. ibi ngibi bizwiho nk'uko ari ibitaro bya mbere bishinzwe kubaga amaso mu gihugu cy'u Rwanda umuntu wese ufite amaso uko yaba yaramunaniye kose ibi bitaro bagomba kumufasha mpaka akize.

Imiti isabwa kubikwa ahantu hejuru ku buryo hataba hagera amazi, ahantu nko mu tubati kandi umuntu akayipanga ku murongo harimo imiti y'amacupa maremare, n'amacupa magufi, ku buryo izamara igihe kirekire igakoreshwa no mu gihe kizaza.

Ibigo nderabuzima n'ibitaro rwose, bigenda bitera imbere uko bwije n'uko bukeye, mu bitaro hongerwamo ibikoresho, iby'ikoranabuhanga, ibikoresha amashanyarazi, ibikoresha umuriro uturutse ku zindi mbaraga nk'imirasire y'izuba n'ibindi.

Ibikoresho bitandukanye umuntu akoresha imyitozo ngororamubiri biteye ku buryo butandukanye, hari iby'ibyuma, ibifite imigozi umuntu ashobora gukurura, ikindi kandi muri iyi nzu usangamo isaha ku buryo abantu bari gukora imyitozo bibafasha kumenya aho igihe kigeze, kugira ngo bibuke no gusubira mu rugo mu kazi kabo.

Muganga ni umuntuntu uba warigishijwe, akagutega amatwi akumva ikibazo ufite, akaguha ubujyanama. Kwa muganga, hakoreshwa uburyo butandukanye bwo kwishyura amafaranga, harimo nk'uburyo bw'irembo, ushobora no kugenda ugashakiraho amakuru ku kibazo ufite. Ikindi tuhasanga utuntu dushinzwe kuzimya umuriro, bityo inkongi y'umuriro w'amashanyarazi iyo ihateye, bahita badukurayo bakawuzimya nta abantu barahitanwa nawo.

Ibitanda biteye ku murongo dusanga mu nyubako kwa muganga, byifashishwa mu kuryamwaho n'abarwayi baba bacumbikiwe, kubera yuko bafite indwara zikabije zitabemerera kuvurwa bataha mu rugo bongera bagaruka, ahubwo bahitamo kuguma kwa muganga bakahafashirizwa bakazataha barakize.

Bimwe mu bikoresho dusanga kwa muganga, harimo amakamera mu ndimi z'amahanga cyangwa se indebakure zishinzwe nyine kwiyitegereza no gupima utunyamaswa duto tutaboneka tuba twihishe mu maraso y'abantu ariyo aba yafashwe nk'ibizamini bigiye kugenzurwa kugira ngo barebe indwara umurwayi yari arwaye.

Ikigo nderabuzima giherereye mu bice by'icyaro, ariko gifite inyubako zitagiye zegeranye, aho abaturage bari kuza, abandi bataha, bamwe bajya kwivuza abandi bavayo, ubona ko gitanga umusanzu ukomeye mu kuvura no guteza imbere ubuzima bw'abaturage bahatuye.

Umubyeyi akimara kwibaruka kwa muganga, uruhinja rugomba kwitabwaho n'abaganga b'ababyaza, baba bamufashije mu gikorwa cyo kubyara. Ibi ngibi birimo kurusukura no kurukorera isuku kugira ngo rubashe guhumeka neza.

Ukigera kwa muganga mbere y'uko ubonana na muganga ngo akuvura indwara ufite ubanza kugera ahantu hari agatebe nyine bategererezaho kandi ukakira amakuru, uhasanga umuntu wabugenewe ushinzwe kukubaza ibibazo nawe akaguhereza amakuru ukeneye.

Ukigera kwa muganga usanga hatangaje cyane, intebe nyinshi aho abarwayi bicara bategerereje, inyubako ngari yisanzuye, amarangi, amatara, aho babika ibikoresho, ibi ngibi biba bishimishije cyane kuko n'abarwayi bategereza serivisi bibanejeje.

Kwa muganga inyubako zaho ziba zubatse ku buryo ziba zirimo n'uduhanda ku buryo n'umuntu ufite imodoka ashobora kubona aho ayinyuza ariko nanone n'abagenda n'amaguru bakabona aho bagenda binyurira ku buryo byorohera na wa muntu ubana n'ubumuga bwo kutagenda kuhanyura nawe ukagenda atambuka nta nkomyi.

Hari ikigo gishinzwe kurenganura abantu bahohoteye mu Rwanda cyitwa isange iki kigo umuntu wasambanyijwe, abakobwa bahatewe inda z'imburagihe ,abakozi bo mu rugo bahohoterwa, n'ibindi nicyo kibafasha kugira ngo barenganurwe ntabwo bikwiye yuko umuntu ufite amafaranga arenganya utayafite cyangwa umuntu w'igitsina runaka hahohotera uwigitsina kindi.

Kwa muganga ni ahantu hitabwaho cyane, ku buryo hagenda hagakorwa isuku, nta sazi wahabona ikindi mu masaha y'ijoro, haba hari amatara, ku buryo haba hatanga urumuri ukagira ngo neza ni ku manywa, kandi ari ninjoro. Ibi ngibi bifasha gutanga ubufasha ku barwayi.

Mu nyubako kwa muganga dusangamo imiryango myinshi ariko hejuru ya buri muryango haba hari icyapa cyanditseho amagambo cyangwa amazina y'umuntu ukorera mur'uwo muryango ndetse n'ubufasha atanga ku barwayi kugira ngo byorohere abagiye kwivuza kubasha gusoma bahite bamenya bari bwivurize.

Ibiro by'akarere ka Nyarugenge byubatse ku nzu ndende y'itage y'umweru isize amarange ariko na none ifite indabo nyinshi ziyiteye iruhande, hari n'amapave ku ruhande ku buryo ubona y'uko iyo ubyitegereje bifite isuku cyane kandi kari ku buso bunini.

Ibigo nderabuzima n'ibitaro ni ibintu bikwiriye kuba bifite isuku cyane, yaba mo imbere cyangwa n'inyuma yaho, ibiti bihateye n'indabo bigomba gucongwa mbese hagahora hasa neza kugira ngo hataba nk'indiri y'imibu n'izindi nyamaswa zitera indwara.

Hirya no hino mu mujyi wa Kigali inzu zicuruza imiti yo kuvura abarwayi zikomeje kugenda ziyongera, hari inzu iri Kanombe icuruza imiti ku buryo abantu benshi cyane bayigana, kandi abahavuriwe baguha ubuhamya yuko aba bantu batanga ubuvuzi koko bwa nyabwo.

I Gisenyi n'aho hagize ubuvuzi bwegerejwe abaturage, aho usanga bwubatse kuri kaburimbo, bityo abaturage bahagana ntibakore ingendo ndende bajya kwivuza ahubwo bakabasha kugenda n'amagare na moto kuko ibinyabiziga byose bigerayo.

Hari ahantu mu mujyi wa Kigali, hubatswe ikigo kinini cyane cyabugenewe, aho bafata abantu babaswe n'ibiyobyabwenge, abafite indwara zabananiye, bakabajyanayo kubaganiriza, bakavayo barakize kandi barisubiyeho, bakajya gutanga umusaruro mu muryango mugari nyarwanda.

Kwa muganga haba inzu y'ababyeyi bifashisha mu gihe bagiye kubyara, ababyeyi bari ku bise, abatwite bityo bakabasha guhabwa serivise bagasubira mu rugo amahoro nta kibazo.

Abana nabo ni abagaciro gakomeye cyane dore ko bafite icyicaro cy'inyubako nkuru yabagenewe ishinzwe kwita ku bana ubuzima bwabo, imibereho, uko bakura, inzira y'ubuzima babamo kugeza babaye bakuru.

Bimwe mu bikoresho dusanga kwa muganga: harimo nk'ibitanda byabugenewe umurwayi ashinzwe kuryamaho kugira ngo yumve aruhubutse, ndetse n'imashini zibapima nk'umutima, umuvuduko w'uko amaraso atera ,kureba uko mu bwonko buhagaze n'ibindi bitandukanye,,.

Hari ikigo cy'ubuvuzi cyubatswe gishinzwe kwita ku ndwara zandura, zaba iz'abantu ndetse n'inyamaswa. Ntabwo ari abantu gusa bagomba kwitabwaho, ahubwo n'inyamaswa burya na zo zigira ubuzima. Ubwo rero, izo ndwara zose zaba izibasira abantu n'inyamaswa, muri iki kigo barazivura, kandi bakagomba kwibanda ku kibitera.

Kamwe mu turere tugize igihugu cy'u Rwanda harimo n'akarere ka huye aha ngaha naho hubatswe ibigo by'ubuvuzi nubwo ubona yuko bitaratera imbere cyane nka bya bindi biba byubatse mu mujyi wa kigali usanga biba bigeretse yamazu ya etaje ariko uko ubushobozi bugenda buboneka leta y'u Rwanda yizeza akarere ka huye ko nabo izabubakira ibitaro bikuru.

Abaganga bakoze igikorwa cyo gushishikariza abana batoya, uko bakora isuku y'amenyo, bifashisha n'ibikoresho by'ibishushanyo, n'uburoso, bakajya baberekera uko bajya babigenza, kugira ngo nabo bagire amenyo asa neza.

Ikigo nderabuzima cyubatse ku buryo bwisanzuye kiba ari kiza kuko byorohereza abakigana kumenya aho abantu bagenda bivuriza nk'abarwaye amaso bakivuriza ku gice runaka, abarwayi mu nda bakivuriza ku kindi gice runaka.

Kwa muganga hari ahantu haba hari intebe habugenewe, abarwayi bakagenda bakayicara, mu gihe bategereje ubufasha. Ababitaho bagenda babasoma, ari nako bagenda babaha ubujyanama, ku ndwara zitandukanye n'uko bazirinda.

Inyubako yo kwa muganga iba itangaje cyane. Iba yubatse ku buryo ibifite ibirahuri binini birebire kandi bigari ku buryo byinjiza umuyaga, kandi bigatanga urumuri, bityo mu nyubako hose hakaba habona, umurwayi akabasha kubona buri kimwe cyose na muganga.

Akarere ka Nyarugenge ko mu mujyi wa Kigali kubatse ku buso bwa hegitari zisaga ebyiri gafite inyubako nziza kakagira isambu ihagije harimo amajaride, harimo aho bahinga n'aho bakorera ubushakashatsi bwo gutubura imbuto n'ibindi.

Umurwayi warembeye kwa muganga akunda gusurwa kenshi, bakaza bakamuganiriza bakamukoraho, bakumva aho igipimo cy'umuriro cye kigeze, bakamukuraho igipfuko, bakamushyiraho ikindi, bakamutera inshinge kugira ngo abashe gukira vuba.

Hari ikigo kinini cyane cyubatse ku buso busangaga hegitari nk'eshatu, gifite amagorofa menshi cyane agerekeranyije nk'inshuro eshatu cyangwa enye, amatara mu kibuga, ubusitani, ibyatsi byiza, aho abantu baganirira ku buryo ubona yuko n'abantu bo mu bihugu by'amahanga bashobora kuza kuhivuriza.

Inyubako zigize ikigo nderabuzima kwa muganga usanga ari ngari kandi zisanzuye, ikindi ziba zizengurutswe n'ubusitani buteyemo n'ibiti binini by'inganzamarumbu bitanga umuyaga mwiza abantu bahumeka iyo bicaye muri ubwo busitani bategereje ko bahabwa ubufasha na ba muganga.

Kwa muganga usanga hari inyubako irimo ibirahure ku buryo n'iyo uhagaze hanze, uba urebamo imbere, bityo ntihabe hihishe ku buryo n'umurwayi wagira ikibazo, ashobora guhita abona umuganga uri hanze akabasha guhita amuha serivisi.

Ku kigo nderabuzima ni ahantu abarwayi bajya maze bakitabwaho, abarwaye indwara zikavurwa cyangwa bakabahereza imiti iborohereza bityo bikagabanya impfu z'abantu bapfira mu rugo bazize uburwayi, harimo nka malariya, harimo kurwara igituntu n'izindi ndwara.

Isuku yo kwa muganga no mu bigo nderabuzima igomba kwitabwaho cyane. Ibi bigafasha abahagana kubona bisanzuye, nta masazi abageraho cyangwa ngo bumve impumuro mbi ituruka mu bitaro.

Inyubako z'ibigo by'ubuvuzi ndetse n'ibitaro bikuru zateye imbere cyane, usanga n'abanyamahanga cyangwa abavuye mu bihugu bitandukanye baza kuhivuriza kubera ko baba bazi ko ubushobozi bafite bwo kuvura abantu buhambaye.

Kwa muganga tuhasanga ubwoko bw'ibishushanyo butandukanye nk'akanyayamasyo n'ibindi, akangaka gashobora kwifashishwa mu kubaga bityo abaganga bakagakoreraho imyitozo kubera ko hari nk'utunyangingo kaba gafite umuntu ashobora kugira.

Mu nyubako imbere kwa muganga usangamo ibyumba bikoze neza bisiza amarangi, harimo amatara manini kandi atanga urumuri ruhagije, tugasangamo n'intebe abaganga bicaraho iyo bari kuvura abarwayi; ibi byose ni ibimenyetso bigaragaza ko ubuvuzi bukomeje gutera imbere cyane.

Inyubako yo kwa muganga uyisangamo imiryango myinshi, kubera abaganga bakoreramo ari benshi. Buri wese aba afite umurwayi we ari kuvura cyangwa afite ibindi bikorwa arimo arakora, akaza kubihuriza hamwe, bigatuma ubufasha batanga ku barwayi bwihuta.

Kwa muganga ni hamwe mu hantu haba isuku cyane ibitanda byabo usanga bishashe, amarido ameze neza, hari amarange, umwuka mwiza n'imashini zitanga umuyaga ku buryo umurwayi uharwariye aba afite ubuzima bwiza,

Umuganga ushaka gupima umurwayi amaraso ariko akabanza kumuzirika agatambaro kugira ngo imitsi ye yirege abashe kubona uwo ateramo urushinge ubundi amuvome amaraso ayapime abashe kumenya indwara arwaye bityo abone n'uko amwandikira imiti izajya imuvura.

Kwa muganga haba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga ariko hakaba n'ibindi bishobora kuzimya nk'inkongi y'umuriro iramutse iteye kwa muganga ibindi bibika umwuka ibindi babikamo impapuro zitandukanye ziba zirimo amakuru y'abarwayi n'ibindi.

Hari ikigo cy'ubuvuzi gishya giherutse kuzura ku buryo u icyitegereje ubona ko cyatwaye amafaranga atari makeya mbere y'uko cyubatse ku buryo bw'inzu za etage zimwe zigezweho zigeretse gatatu ubona yuko kishobora kuba cyaratwaye amafaranga asaga nka miliyari ebyiri z'amanyarwanda.

Kwa muganga haba hubakanywe ubuhanga butangaje cyane, ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, amasuku akeye, inkuta zifatiyeho imiyoboro y'amashanyarazi ku buryo nta ntambara byateza cyangwa se ngo ikigonderabuzima kibe cyashya umuriro unyura ukwawo amazi anyura ukwayo.

Kwa muganga habamo ibyuma bitandukanye, ibikoresho bindi birimo intebe, birimo ibyumba by'ikoranabuhanga, birimo za kamera n'ibindi bifasha mu kuvura umurwayi wagiye abagana.

Abaganga ni abahanga cyane bagutega amatwi ukababwira ibibazo byawe byose bakabyandika ubundi bakajya kugusuzuma bakareba indwara urwaye bakakuvura bakaguha imiti ugataha wakize.

Akazi k'ubuganga gasaba ubufatanye buhambaye cyane, bwo kwita ku murwayi urembye cyane, bakamuvura, kuko barangaye, hari igihe yahita bacika, ugasanga abuze ubuzima, kandi biri mu nshingano zabo.

Imiti n'inkingo bigomba kubikwa ahantu habugenewe, ku buryo bitagomba gushyirwa hasi cyangwa ahantu hakonja, umuntu agomba kubaka ahantu hejuru akayishyiraho ku buryo nta hantu ihurira n'amazi cyangwa se ubukonje ikaba yakangirika.

Imashini zabugeneye kwa muganga aho umurwayi ashobora kuryama akaba yashyiramo umutwe we imashini ikamupima igahita igaragaza ibibazo byose n'ibyo mu bwonko ubundi bakamusuzuma bakamubwira indwara afite agataha.

Ukigera ku cyigonderabuzima cya Nyarurenzi uhasanga isuku ihambaye, abakozi bahagije, umutuzo, dore ko cyubatse no ku nyubako igeretse inshuro eshatu y'igorofa, bityo ubona y'uko ari ibintu byateye imbere cyane, mu gushyira imbaraga mu buvuzi bikozwe na Leta y'u Rwanda.

Biba byiza iyo ibitaro cyangwa se ibigo nderabuzima byubatse ahantu ku muhanda, bityo bikoroshya ingendo z'abantu bahagana, yewe no mu masaha y'ijoro umurwayi akabasha kugerayo agahabwa serivise kandi agataha. Ahangaha kandi haba hari amatara, amazi n'umuriro bityo bikoroha.

Mu cyumba cy'umurwayi kwa muganga, habamo n'igitanda cyiza, kiriho amashuka, kiriho n'umusego, umurwayi aryamaho igihe ategereje ko bamuvura, hakabamo n'akamashini kavamo umuti ujyana amazi n'amaraso mu mubiri we cyangwa kamwongerera umwuka wo guhumeka.

Kwa muganga aho bavurira umurwayi ufite ikibazo cyihariye, tuhasanga ibyuma bitandukanye. Mbere na mbere haba hari intebe nziza zabugenewe, n'ahantu ashinzwe kuryama kugira imashini zibashe kumupima arebe ikibazo yaba afite. Haba hari n'utwuma twifashishwa mu kureba indwara zo mu tunyamaswa tw'ubwoko butoya cyane, twaba twihishe mu mubiri we tutaboneshwa n'amaso y'umuntu.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Shagasha, ni imwe mu nyubako zifite isuku kandi zikeye kuko iteye amarange, yubakishije amabati meza, ifite ubusitani n'imbuga ihagije imodoka ziparikamo, bityo bikorohera kandi bikoroshya urujya n'uruza rw'abantu baza kuhivuriza.

Hari inzu y'ababyeyi babyariramo iherutse kuzuzwa ku kigo nderabuzima kimwe hano mu Rwanda. Ibingibi ni umusanzu ukomeye cyane ku muryango w'abaturage batuye muri iki gihugu, kubera ko bifasha aba babyeyi kujya kubyarirayo no kuruhukirayo igihe batwite cyangwa se basamye.

Inyubako z'ibigo nderabuzima n'ibitaro bitanga ubuvuzi ku baturage zigenda zubakwa kandi ziyongera hirya no hino mu muryango mugari, ibyo ngibyo bigaragaza yuko ubuvuzi buri gutera imbere cyane kandi bitanga icyizere y'uko mu myaka izaza umubare w'abantu bahitanwa n'indwara z'ibyorezo uzagabanuka.

Hari igorofa rirerire rigeretse nk'inshuro eshatu riherutse kuzura. Baryita igorofa rya Polytechnique d'etoire mu ndimi z'amahanga, iri ngiri rero rikazaba rizifashishwa mu gukora ubushakashatsi butandukanye, kumenya uko indwara runaka zikwirakwira n'ibindi. Biteganyijwe y'uko iri gorofa ryuzuye ritwaye asaga miliyari cumi n'eshanu z'amanyarwanda.

Inyubako yo kwa muganga iba yubatse ku buryo butangaje, hari aho abarwayi babakirira bakicara bategereje ko bavurwa, hari aho abakozi bakora mu biro bicara hari aho bavurira abarembye cyane n'ibindi.

Inyubako zo kwa muganga zubatse ku buryo bwisanzuye, aho usanga zifite ibikuta binini byabugenewe, bifite amadirishya manini abasha kwinjiza umwuka, kandi abantu bose bahaganye bakayishimira kubera isuku y'ibihakoranye n'ibindi.

Hari amazu yabugenewe aho abantu bajya bakagenda bagakora imyitozo ngororamubiri, ahangaha ukihagera uhasanga intebe ndetse n'ahantu hisanzuye ho kuganiriramo, aho abantu bahasuye bategererereza kugeza igihe umuntu ubakoresha imyitozo abagereyeho bakajya kuyitangira.

Kwa muganga tuhasanga ibyuma byinshi bitandukanye bibikwamo imiti ibashinzwe kuyifubika kugira ngo ubukonje butayigeraho cyane cyane n'amaraso bafasha abarwayi iyo utayabitse ahantu heza ashobora kwangirika bityo hari ibyuma byabugenewe biyabika akaba yamara igihe kirekire agakoreshwa avura abarwayi.

Inyubako hirya no hino n'ibikorwa remezo bikunze kugenda byiyongera cyane cyane amavuriro ahenze yubatse ahantu ku muhanda kandi yubatse ku buryo bugeretse ku buryo usanga hari izigeretse rimwe, kabiri, bityo abantu bazigana bakabona ibyumba bitandukanye byo gukoreramo.

Kwa muganga haba ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, harimo nk'ibiyunguru umuriro w'amashanyarazi, ibikoreshwa mu kubika ibizamini byafashwe mu barwayi, kugira ngo bitangirika bityo bazabyifashishe no mu kuvura abandi bazaza.

Mu nyubako yo kwa muganga no mu bitaro bikuru habamo imiryango myinshi cyane ikorerwamo ibikorwa bitandukanye hakaba n'umuryango ukorerwamo ubushakashatsi aho bafata amaraso y'abarwayi bakajya kuyasuzuma kugira ngo bavumbure udukoko twaba twabiteye.

Iyo ugeze aho imiti ibitse, usanga bitangaje cyane. Imiti imeze nkaho imanitse ku gikuta cy'ibumoso ni icy'iburyo, bigiye bigizwe nutu etajeri cyangwa se utubati tugerekeranye, aka mbere, aka kabiri kugeza kuko hejuru kugira ngo iyo miti itazahurarana n'amazi cyangwa ubukonje.

Ibitaro bya Ruhengeri, na byo ni bimwe mu bitaro biteye imbere cyane mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko byubatse neza, birisanzuye, bifite ubushobozi bwo kwakira abarwayi benshi, kandi byubatse ku muhanda, ahantu hagera imodoka hagera n'amashanyarazi n'ibindi bikorwa remezo.

Muganga ni umuntu uba warize kandi agahugurirwa bityo akaba afite ubumenyi bw'ibanze n'ubushobozi bwo kubasha kuvura umuntu nk'aho ibyo bidahagije usanga azi no gukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga, aho usanga hari nk'ibyuma bipima umuvuduko w'amaraso w'umurwayi, uko umutima utera bityo niwe muntu wenyine uba uzi kubikoresha akamenya aho ubuzima bw'umurwayi bugeze.

Kwa muganga uretse kuba tuhasanga ibitaro n'inyubako nyinshi ziba zirimo imiti ivura abarwayi, ariko hanze mu mbuga y'ikigo cyangwa ikigo nderabuzima, tuhasanga n'ibikinisho abana bashobora gukoresha bari kwidagadura, mu gihe bajyanye n'ababyeyi babo kwa muganga kugira ngo bibafashe gutinza amasaha, baze gusubira mu rugo batarambiwe.

Ku kigo nderabuzima ni ahantu hari inyubako zabugenewe nini ngari, akenshi usanga ibyapa, biriho amatangazo agenewe gusomwa n'abantu bahagana, kandi uhasanga idarapo ry'igihugu n'ibindi bigiye bitandukanye.

Hari ibigo by'amashuri byigisha ubuvuzi buteye imbere ku buryo bazajya bavura abantu bakabasha kugira ubuzima bwiza, twavuga nk'ishuri riri i Butare mu ntara y'amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda, cyigisha ibijyanye n'ubuvuzi, usanga abanyeshuri bahava ari inzobere, bagafasha igihugu mu kuvura abarwayi.

Ikigo nderabuzima cya Gishweru ni kimwe mu bigo nderabuzima ubona ko bisa nkaho bikuze ariko batanga serivise mu kuvura abarwayi batandukanye, iyo uhageze nta murongo w'abarwayi benshi uhasanga bityo ubuvuzi bwaho ni nta makemwa, abarwayi bavurirwa ku gihe, haba ku manywa ndetse na nijoro.

Igihe muganga agiye kuvura umurwayi, agomba kureba kuri mashini zabugenewe, akareba ibisubizo bimuhereza bityo na we akabigenderaho afata umwanzuro agiye guhereza umurwayi wamugannye, agatahana igisubizo kizima kandi cyizewe.

Kwa muganga hubatse ku buryo butangaje, amarange, intebe, ibishushanyo biryohera buri muntu wese ubashije kuhicara umwanya munini. Akaba yitegereza yirebera ku buryo atarambirwa, bikamufasha kuba ari kuhaguma.

Ikigo gishinzwe gukurikirana no kurengera no kwita ku buzima bw'abantu bahohoterwa hano mu Rwanda, nicyo bita Isange One Stop Center, iki ngiki cyubatse mu mujyi wa Kigali ariko cyagize uruhare cyane mu kugabanya ibyaha bikorerwa ab'igitsina gore, abakozi bo mu rugo n'abandi mu kubarengera ndetse no guhana abakora ibi byaha.

Kwa muganga haba n'ibikoresho bishinzwe gutanga umuyaga ku barwayi kugirango umuntu atabura umwuka wo guhumeka, haba n'ibitanda byigiye hejuru mu kirere ku buryo umurwayi aba aryamye hejuru aho imashini z'ikoranabuhanga zibasha kumupima zigatanga ibisubizo ku baganga.

Hari abahanga batandukanye, ndetse n'abashoramari bagira uruhare cyane mu buvuzi babinyujije nko mu kubaka ibigo bipimirwamo indwara cyangwa se utunyangingo n'udukoko dutera indwara ku bantu runaka, twavuga nk'umubu, gutera indwara ya marariya, cyangwa se tukavuga nk'uturondwe tujya ku nka, utwo dusimba twose rero cyangwa utwo dukoko baradufata bakajya kudupima bakareba ikibitera.

Kwa muganga hari imashini zabugenewe, zibikwamo imiti cyangwa ibizamini basuzumye abarwayi, kugira ngo bitangirika, ubundi bazajye babikoresha, bareba indwara umurwayi yari arwaye.

Umuganga uri gukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga bishinzwe kubaga cyangwa kwitegereza bimwe mu bice by'imbere by'umurwayi, harimo nk'ibice by'ubwonko cyangwa ibindi bice dusanga mu mutwe w'umuntu.

Inzu zicuruza imiti ivura abantu n'inyamaswa hari ibisabwa zigomba kuba zujuje harimo nk'utubati babikamo imiti buri muti wose ukaba upan ukwawo hanyuma kuba hari amakaro hafite isuku hakeye nta masazi n'ibindi.

Kwa muganga iyo bamaze gusuzuma umurwayi, hari ahantu haba hari ibikoresho bashinzwe kubikamo ibipimo bamufashe ubundi bakajya kumutangariza ibisubizo bamuhaye, ikindi uhasanga intebe, uhasanga amashashi abitsemo ubushakashatsi bagiye bakora ibindi.

Nta muntu n'umwe uhejwe kugana ku kigo nderabuzima cyangwa ibitaro byo kwa muganga, usanga abaturage rwose bisanzuye bajyayo kwivuza kuko ntabo baheza, nubwo batanga amafaranga ariko umuturage aroroherezwa cyane nko mu gihugu cy'u Rwanda, akishyura amafaranga make akavurwa.

Ibitaro byo kwa muganga biba ari binini cyane. Hari abarwayi bivuza bagahita bataha ariko hari n'abandi bacumbikirwayo kugeza igihe bakiriye, bakaba bahamara nk'ukwezi cyangwa amezi atanu, niyo mpamvu ibi bitaro biba bifite inyubako nyinshi za etaje, zigerekeranyije, ku buryo n'abafata amacumbi babona aho bacumbika.

Kwa muganga tuhasanga intebe, ameza za mashini, aho abarwayi nyine bategerereza mu gihe batarahabwa ubufasha baje gusaba n'ibindi, haba hasa neza hakoze amasuku, ku buryo n'umurwayi kuhicara bimushimisha.

Ibitanda bishashe neza biriho n'amashuka, biri mu cyumba kwa muganga, harimo n'amarido ndetse n'ameza, bikaba bishinzwe gufasha abarwayi baharwariye kugira ngo babyifashishe igihe bategereje ubufasha bw'abaganga.

Uretse kwa muganga kuba hakora abakozi babyize kandi babigize umwuga babihemberwa, bitanga n'akazi ku bandi bantu nk'iyo hubatswe inyubako nini cyane bitanga akazi ku bafundi baba barayubatse kandi nabo baba batunze imiryango, abakozi bahakora amasuku nabo usanga bahembwa abandi bakagenda babyungukiramo.

Ukigera kwa muganga utangazwa n'ubwiza n'ubuhanga buhubakanye amatara meza manini abasha kumurikira ba muganga igihe bari kuvura abarwayi amarido akingiriza muganga kugira ngo abandi barwayi batabona ukuntu undi murwayi ari kwitabwaho n'ibindi bikoresho bitandukanye biba birimo.

Ubuvuzi bw'amaso nabwo buri mu bwatejwe imbere cyane, hari ibigonderabuzima n'ibitaro bivura abantu barwaye amaso gusa dore yuko usanga abantu bamwe na bamwe batakibona, ugasanga ijisho ryabo ryajeho umurayi bigasabwa yuko abaganga babyize bagenda bakarikuramo, bakaryoza neza akongera bakarimusubiza akabasha kubona.

Ikibazo cyo kuvunika mu mavi, ni kimwe mu bikunze kugora abantu batandukanye, harimo nk'abakinnyi b'umupira w'amaguru, kubera ko ingasire iba yangiritse, bityo bigasaba yuko bajya kwa muganga cyangwa bagakoresha ibyatsi karemano kugira ngo bibavure.

Imvune buriya ziratandukanye , hari imvune yo mu ivi, ariko hari n'imvune yo ku kirenge ukagombabare . Isaba umuntu gukoresha agatambaro n'amazi ashyushye akikanda akahabyiringira, ku buryo imitsi yumva igororotse hagakira vuba .

Iyo umukinnyi bamuvunnye ku kuguru, inyama z'imbere zirangirika; amaraso akagenda akipfundika ahantu hamwe, n'imitsi igaturika. Ibi bishobora kumuviramo na kanseri, bakamuca ukuguru. Ni yo mpamvu asabwa kujya kwa muganga cyangwa agakoresha ibimera gakondo hakiri kare.

Umuganga yifashisha ibikoresho bitandukanye iyo ari gutanga serivisi ku barwayi, harimo imashini mudasobwa agapfukamunwa, aba yambaye ga cyangwa uturindantoki aba afite ikayi n'ikaramu byo kwandikamo amakuru, yasanze mu bimenyetso by'indwara umurwayi we, arwaye.

Abakora imyitozo ngororamubiri bakunze gukoresha amazi cyane kuko baba batakaje ibyuya byinshi mu gihe barimo kuyikora, bityo bagakunda kuyanywa kugira ngo bagaruze amazi mu mubiri kandi ayungurure amaraso impyiko zikora neza, babeho bafite ubuzima bwiza.

Abantu b'abasirimu bakunze gukora imyitozo ngororamubiri mu gikorwa cy'ubukoranabushake nta n'umuntu ubahase kuko bamaze kumenya akamaro kabyo, ibigibi bifasha umuntu ubikora kugira umubiri urambutse kugira umubyibuho uteye neza ugasanga umuntu afite amaraso akora neza bityo akabaho yishimiye ubuzima.

Gukora imyitozo ngororamubiri bishobora gukorwa mu buryo butandukanye harimo nko kurambura amaguru, kurambura mu gatuza, kugorora umugongo, kugorora igikanu n'ibindi bitandukanye. Ibingibi bifasha imitsi kurambuka umuntu akajya agenda nta nkomyi, akabaho neza.

Amazi yo kunywa ni ubuzima, amazi yo kunywa dufasha ibintu byinshi cyane, ayungurura amaraso, atuma impyiko zikora neza, tuba twatakaje ibyuya byinshi nk'iyo tuvuye gukora imyitozo ngororamubiri bityo iyo unyweye amazi atuma wongera gusubirana ububobere mu mubiri, ukagira uruhu rworoshye, kuyanywa ni ingenzi.

Hari abantu bajya barwara indwara yo kubura amazi mu mubiri. Ni byiza cyane kunywa amazi kandi inshuro nyinshi byibuze inshuro eshatu ku munsi, kugira ngo umuntu atazabasha kwandura iyi ndwara byoroshye. Twibuke kandi gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo ngo tubashe gusohora ibyuya n'imyanda bive mu mubiri wacu.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri asabwa kwambara uturindantoki kugira ngo igihe ari guterura ibyuma cyangwa ari gukora hasi atabasha gukomereka mu kiganza, ikindi bimufasha kutabira ibyuya byinshi kuko hari igihe aba ari guterura ibyuma mu kiganza hakaba hanyerera ariko yambaye uturindantoki biramufasha umwitozo ukagenda neza.

Kunywa amazi ni igikorwa cy'ingirakamaro, kubera ko adufasha mu mubiri wacu harimo; nko kuyungurura amaraso, harimo gusohora imyanda mu mubiri, amazi afasha impyiko gukora neza. Buri muntu wese rero yagakwiriye kujya anywa amazi, kugira ngo agire imibereho myiza.

Abaganga bari imbere mu nyubako ku kigo nderabuzima, bafite amafishi y'abarwayi n'amakaramu bari kuyuzuza, kandi bitegereza n'imashini z'ikoranabuhanga, kugira ngo babashe gusuzuma ibizamini bafashe abarwayi.

Abantu b'igitsina gore burya nabo ni bamwe mu bantu bashobora gukora imyitozo ngororamubiri, bakabikora binanura, ibintu abenshi muri aba batisangamo ndetse bakabiharira igitsina gabo ariko abateye imbere mu myumvire barabikora kandi bakanabikurikiza.

Kunywa amazi ni ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu, amufasha mu bikorwa bitandukanye twavugamo nko kuyungurura amaraso, gutuma impyiko ze zikora neza, kugira uruhu rukeye, kutagira imitsi n'ibindi.

Isaha ni agakoresho kifashishwa n'abantu batandukanye kakerekana ahantu igihe kigeze bityo bikorohera umuntu ugafite kumenya uko ari bukore ibikorwa yageneje gukora kuri uwo munsi.

Ibikoresho bya siporo biri mu moko atandukanye cyane, hari n'ibiba bifunitse mu ikarito byarakorewe mu nganda zikomeye cyane biba bifasha abakinnyi kugira ngo badahura n'imvune. Umukinnyi afata iki gikoresho akakirambura neza akagishyira ku mubiri we bityo mugenzi we yamutera nk'umugeri ntubashe kumubabaza cyane.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, iba yarabugenewe igashyirwamo ibikoresho aho abantu bayisura, bagaterura nk'imigozi, gusimbuka ibyuma, kugororana imitsi mbese hakaba hari n'umuntu ushinzwe kubitaho ku buryo umuntu ataha yumva yakoze icyo bita kugorora umubiri nyine.

Masike cyangwa se ikintu kirinda isura y'umuntu, na cyo kiri mu bikunze gukoreshwa cyane mu rwego rwo kwirinda ingaruka zaterwa no gukomeretswa n'ibintu bitandukanye, harimo nko gukora impanuka, harimo nko kuba umuntu yagutera ibuye, bityo kugira ngo umuntu yirinde usanga bambara izi masike nk'abakinnyi b'umupira, abatwara amagare, mu rwego rwo kwirinda impanuka kugira ngo naramuka aguye adakomereka.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane. Gukora imyitozo ngororamubiri bidufasha ibi bintu bikurikira: Kurambura imitsi, gutuma amaraso yacu atavura, gutekereza neza kugira ibyishimo n'ibindi

Har’ibishushanyo byerekana ibimenyetso by'indwara zitandukanye, nk'iyo umuntu ababara umutwe hari ikimenyetso kibyerekana cy'umuntu uba wunamye yifashe mu gahanga, ikimenyetso cy'umuntu urwaye inkorora, ikimenyetso cy'umuntu urwaye mu nda, ikimenyetso cy'umuntu wigunze. Ibi ngibi bikoreshwa n'ibigo bishinzwe ubuzima, mu gufasha abantu gusobanukirwa n'indwara bahuye nayo.

Kunywa amazi ni ingenzi cyane mu buzima bwa muntu kuko bimurinda ibibazo bitandukanye, harimo nko kurwara impyiko kurwara ibihaha agahumeka neza akagira ubuzima bwiza akagira amaraso atembera neza.

Hari uburyo butandukanye umuntu ashobora gukoresha yivura indwara cyangwa se arambura imitsi ye nko kugufata amazi ashyushye ukikanda ukoresheje agatambaro gasa neza katarimo imyanda ugasigiriza ku mubiri ukajya utsindagira kugira ngo urambure imitsi.

Ushobora gukora imyitozo ngororamubiri urimo wifata n'amashusho cyangwa se wumva indirimbo zigezweho kuko nabyo ni ibintu byiza cyane, ufite amazi, ufite utwuma two guterura, urambura amaguru ibyo byose byagufasha.

Ni byiza kwishakamo ibisubizo igihe umuntu yavunitse nko mu nkokora cyangwa mu ivi agakoresha agatambaro kabugenewe akikanda ,agakoza nko mu mazi ashyushye cyangwa agashyiraho imiti ikomoka mu byatsi gakondo ubundi akivura.

Kunywa amazi ni ingenzi cyane kubera ibintu amazi akora, iyo ageze mu mubiri adufasha kuyungurura uruhago rw'inkari bityo umuntu yajya kwihagarika akanyara inkari zitanuuka, agafasha impyiko gukora neza natwe tugatekereza.

Ingasire y'amavi ni urunyangingo rukomeye cyane iyo umuntu agize ikibazo akavunika bimusaba gukoresha imiti yabugenewe cyangwa se akajya kwa muganga bakamutera inshinge, ibyo nabyo byakwanga akifashisha ibimera gakondo akajya ahasiga.

Umwana muto nawe agomba gukoreshwa imyitozo akambuka akagira ingingo zigororotse, akabasha kujya aseka akishimira ubuzima, akagabanya ibinure ntagire umubyibuho ukabije, agakura neza afite n'ibiro byiza kuko gukora siporo byongera ibiro.

Gukora imyitozo ngororamubiri bijyana no kunywa amazi meza kandi asukuye, kurya ibiribwa birimo nk'imbuto, ubundi ugaterura ibyuma cyangwa ukarambura amaguru, ugakoresha metero wipima uburebure umaze kugira cyangwa se ingano y'ahantu ugiye gusimbuka, ibi ngibi bikagufasha kugira ubuzima bwiza.

Hari ibikoresho byinshi bishobora kudufasha mu gukora imyitozo ngororamubiri, aha twavuga inkweto zifunze zagenewe abakinnyi b'umupira, hakaba kandi n'umupira w'amaguru abakinnyi bakoresha iyo bari mu kibuga. Ibingibi bibafasha kwirinda indwara zirimo umubyibuho ukabije ndetse n'umuvuduko w'amaraso.

Hari ibikoresho bitandukanye dushobora kwifashisha dukora imyitozo ngororamubir: hari imipira yo gukina, imigozi yo gusimbuka, hari ibikoresho byo kwambara mu mutwe kugirango tudakomereka, byo kwambara mu mavi n'ibindi.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri, bimwe mu bintu bimuranga aba afite umubyibuho mwiza uringaniye, abafite inyama zikomeye cyane, nta mitsi akunda kugira kandi ubuzima bwe bugenda neza, agahora yishimye, afite ibyishimo kubera yuko gukora imyitozo bituma amaraso atembera neza.

Hari imbago zabugenewe zishobora gufasha umuntu wahuye n'ikibazo cy'imvune igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri cyangwa ari gukina nk'umupira, bityo akabasha gukomereka urugingo rwe harimo nk'ukuguru, iyi mbago imufasha kugenda kandi akongera gukira vuba nta kibazo.

Umuntu ukora siporo agomba guhora asirimutse cyane kandi afite ubuzima bwiza, ashobora no gukoresha ibikoresho bitandukanye harimo nk'umukasi, akaba yakata ahantu yagize igikomere agakuraho nk'uruhu, harimo nk'udupapuro akwiriye kujyana ku bwiherero, harimo impapuro z'isuku zo kwipfunisha n'ibindi.

Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri. Ugakakoresha n'imbaraga, ugaterura ibyuma ukirukanka ariko nonene ukibuka kurya. Kukoba watakaje imbaraga nyinshi. Kandi ukarya ibikungahaye ku ntungamubiri nk'inyama, imbuto, amagi, n'ibindi.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni igikorwa cy'ingenzi cyane n'abagore batwite basigaye bayikora, ndetse n'ab'igitsina gore bose, kubera yuko bifasha umuntu kwirinda umubyibuho ukabije, ikindi kunywa amazi ni bimwe mu bintu bidufasha kugira ubuzima bwiza.

Hari ibinini umuntu ashobora gutanga amafaranga akabigura, bikamufasha gukora imyitozo ngororamubiri, atiriwe ajya kwirukanka cyangwa ngo asimbuke imigozi ahubwo nimba ashaka kugabanya umubyibuho akanywa ikinini, ubundi kikabimufashamo.

Inkweto nziza zikomeye kandi ndende ni nziza kuzikorana siporo, ziturinda kuba twakomeretswa n'ibyuma cyangwa amabuye nk'amasarabwayi, kuba mugenzi wacu yadukubita ukuguru tukavunika n'ibindi.

Umuntu ashobora gukora imyitozo ngororamubiri ku giti cye cyangwa akayikorana n'abandi, iyo umuntu yiherereye wenyine agakora imyitozo ngororamubiri biramufasha cyane kuko aba yumva ingingo ashaka kurambura yarangiza akabikora akagira ubuzima bwiza.

Hashobora gukoreshwa uburyo butandukanye mu rwego rwo kuvura umuntu wahuye n'igikomere cy'imvune, kwifashisha agatambaro kabugenewe gasa neza ukagakoza mu mazi ashyushye ubundi ukagenda usigiriza aho hantu umuntu yakomeretse, biramufasha cyane akaba yakira kuko imitsi ye irarambuka.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bakunze kugira imvune cyane iyo bari gukina mu kibuga, ibi ngibi biba bisaba abaganga cyangwa se abakozi bashinzwe kwita ku barwayi bakaza bakamuvura bakamukanda neza, yaba yavunitse cyane bakamujyana hanze y'ikibuga cyangwa se bakamufasha akongera agakina umukino.

Abana batoya iyo bari gukina imikino irimo umupira w'amaguru cyangwa umupira w'amaboko, baba bari gukora imyitozo ngororamubiri. Hirya no hino mu cyaro, abana baho bakunda gukora imyitozo ngororamubiri, ku bigo by'amashuri, aho batuye, cyangwa mu muryango mugari. Babifashijwemo n'abantu bakuru cyangwa ubwabo ku giti cyabo.

Umuntu uwo ari we wese wagize ikibazo cy'imvune yo ku maguru, bashobora kumuvura bamumwunze barangiza bakamuzirikaho igitambaro cyabugenewe gifasha imitsi kongera kwiyegeranya, bityo imvune ye igakira vuba, iyo iminsi bamuhaye igeze asubira kwa muganga bagakuraho cya gitambaro, agasubirana umubiri we yari asanganywe.

Imyitozo ngororamubiri iri mu moko atandukanye, umuntu ashobora kwirukanka, gukina umupira, gusimbuka umugozi n'indi ariko nanone hari iyo umuntu akora yoroheje nko kugira ngo yumve ameze neza, agorore imitsi kandi yumve arambutse, ibingibi umuntu akabikora yibereye mu rugo gusa akajya ahina nk'amaguru akayahinura n'ibindi.

Mu nzu bakoreramo imyitozo ngororamubiri, ushobora gusangamo ibikoresho bitandukanye, harimo nk'imipira bakinisha umukino w'amaboko, harimo imipira bakinisha umukino w'amaguru, harimo itapi biramburiraho kugira ngo umuntu abashe kugorora imitsi n'imikaya.

Umuntu ashobora gukora imyitozo ngororamubiri wenyine ku giti cye cyangwa akifashisha mugenzi we, akamugorora nk'amaguru, akamugorora amaboko, bityo imitsi ye ikarambuka, maze akagira ubuzima bwiza kubera ko gukora imyitozo bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza.

Umuntu ukunda gukora imikino yo kwirukanka cyangwa indi myitozo ngororamubiri ni byiza cyane ko agendaana amazi igihe ari muri aka kazi, kuko atakaza ibyuya byinshi cyane iyo ari kwiruka bityo akabasha kunywa amazi akongera akagira ububobere mu mubiri.

Gukora siporo ufite n'amazi yo kunywa bituma umuntu aruhuka, bikagabanya umunaniro, bigatuma umuntu atagira umubyibuho ukabije, akaba ateye neza nko ku mukobwa cyangwa igitsina gore ni akarusho, bigatuma abaho abagabo bamukunda kuko bakunda abakobwa bateye neza bananutse.

Abantu bakora imyitozo ngororamubiri bose aho bava bakagera, iyo bamaze kurangiza icyo gikorwa banywa amazi menshi cyane ageze nko kuri litiro cyangwa litiro ebyiri, kubera ko baba babize icyuya batakaje amazi menshi mu mubiri n'ibyuya byinshi cyane n'umwuka bakeneye kongera kubigaruza.

Umuntu ashobora gukora imyitozo ngororamubiri, binyuze mu buryo butandukanye. Ushobora kunama ukajya urambura amaboko, hari uburyo bwo kurambura amaboko uhagaze, hari uburyo bwo kurambura amaboko wunamye, hari uburyo bwo kugorora amavi, ibi byose bifasha abantu b'igitsina gore, kutagira umubyibuho ukabije.

Umuntu akimara guterwa urushinge, ni byiza cyane guhita afata agatambaro, agapfuka aho bamaze kumutera urushinge, kugira ngo adakomeza kuva amaraso menshi, akayatakaza. Ibi kandi bimurinda kuba hajyaho nk'amasazi, akaba yashyiraho mikorobe, bikamuviramo n'izindi ndwara.

Hari ibintu bimwe na bimwe bikwiriye kuranga umuntu w'umusirimu kandi umuntu ukora imyitozo ngororamubiri nko gusuhuzanya mu ntoki rwose ntabwo bigezweho kuko umuntu ashobora kugusiga indwara cyangwa akaba yavuye ku bwiherero atakarabye ni byiza rero kwibuka gukaraba intoki kwitsamura dushyizeho ukuboko ku mazuru kugira ngo tutabisiga mu ntoki zacu gukoresha agatambaro twipfuna koga amazi meza n'ibindi.

Ushobora gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo butandukanye, kujya mu nzu zabugenewe ugakoresha ibyuma by'ikoranabuhanga, kwicara iwawe mu rugo ukigorora, gukina umupira, kwirambura, gukinana n'abandi n'ibindi.

Kora siporo igufashe muri ibi bikurikira ikurinde umuvuduko wamaraso ,ikurinde umunaniro, wongere ibiro byawe, igifu cyawe gikore neza mbese ubeho wishimiye ubuzima bwawe.

Umuntu ashobora gukora imyitozo ngororamubiri wenyine cyangwa akajya kwa muganga akamufasha, haba nko mu gihe yagize imvune, kuko muganga aba yarabyigiye kandi abisobanukiwe neza, akazana imiti yabugenewe akamukandira, bityo umurwayi akabasha gukira imvune mu gihe gitoya.

Dukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, abantu barimo nab'igitsina gore nabo bagomba kuyikora, dore ko bituma bagabanya ibinure ntibagire inda nini cyangwa se umubyibuho munini utuma abagabo batabakunda, kuko nta mugabo ugikunda umukobwa munini.

Ukore imyitozo ngororamubiri kugira ngo umuntu nyine agorora imitsi yo mu mubiri ugomba kubikora binyuze mu buryo butandukanye, ubwa mbere kurambura amaboko ukayagorora, ushobora kwirukanka gake gake, ushobora kunama cyangwa ugaterura ibyuma, ushobora gukina umupira cyangwa gusabana n'abandi.

Umuntu wahuye n'ikibazo cy'imvune ajyanwa kwa muganga akitabwaho mu buryo bukomeye, bakamufasha kumurebera niba amaguru ye yarambuka bamushyize mu byuma byabugenewe kugira ngo bagorore nko mu mavi igihe ariho yagize imvune.

Kwa muganga habamo intebe zitandukanye, hari intebe ishobora kuramburwa ikaba nk'igitanda umuntu kandi ashobora kuyihina, bityo umurwayi iyo akeneye kwicara barayihina, yakenera ko aryama bakayirambura, dusangamo n'imashini, dusangamo ibyuma bitanga umuyaga, ikindi haba hubatse neza ku buryo ahishimira.

Amazi yo kunywa ni ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi adufasha mu bintu bitandukanye harimo nko kuyungurura amaraso kubera ko ayungurura n'impyiko kandi agafasha umuntu gutekereza neza ni byiza kuyanywa nk'igihe tuvuye gukora imyitozo ngororamubiri

Kunywa amazi meza ndetse no kumva umuziki, ni ibintu by'ingenzi cyane mu buzima kuko bifasha umuntu kuruhuka, akishima, agatekereza neza, nyine akabaho yishimiye ubuzima, bikamurinda kuvangirwa no kugira umunabi.

Ibikoresho byinshi byagenewe gufasha umuntu ukora imyitozo ngororamubiri, twavugamo nk'amavuta yisiga akamubera meza uruhu rukongera rukanoga, umuti akoresha yoza amenyo ye, amavuta asiga mu mutwe n'ibindi.

Mu rwego rwo kwirinda imvune zo mu ivi abantu benshi cyane nk'abakinnyi b'umupira hari igikoresho basabwa kwambara mbere y'uko bajya mu kibuga, icyo gikoresho gikoze neza neza nk'ivi ry'umuntu, ubundi umuntu akacyambara mu mavi kugira ngo mugenzi we namukubita umupira cyangwa akamuhonyora ntibibashe kumukomeretsa ku ruhu rwe.

Gukoresha amazi ashyushye n'agatambaro gasa neza, ukikanda ku mubiri kandi ukagenda ugusukura, ni buryo bw'ingenzi cyane kuko budufasha mu gutuma umubiri wacu udakanyara, kandi tugakoraho n'imyanda iba yihagitse hagati y'amoya n'utwenge dutoya tuba ku mubiri dutuma uhumeka kandi ugasohora ibyuya.

Ab'igitsina gore na bo bamaze gusobanukirwa impamvu zo gukora imyitozo ngororamubiri kuko bibafasha mu bintu bitandukanye ,harimo nko kugira umubiri urambuye kwirinda kwirinda umubyibuho ukabije n'ibindi.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ibintu bisaba gushirika ubute cyane bikagufasha kandi mu bintu bitandukanye nko kwirinda indwara z'umubyibuho rero ntabwo abantu bose babasha kubikora kuko umuntu udashirika ubute ugira ubunebwe biramugora.

Dore bimwe mu bikoresho umuntu ukora imyitozo ngororamubiri agomba kuba atunze, amavuta yo kwisiga ku mubiri igihe amaze koga agomba kuba afite udutambaro two kwizirika ahantu yumva ya yagize imvune agomba kuba afite umukasi wo gukata agatambaro agiye gukoresha yizirika umuti wo koza amenyo n'ibindi.

Umurwayi agomba kuvurwa bikomeye cyane, muganga agenda amubaza aho ababara, akagenda amukandira afite igikomere akamushyiraho igipfukuko nyine akabasha kumuvura agakira agasubira mu rugo amahoro.

Igihe umuntu amaze gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza ko yicara ahantu maze akikanda, kuko hari igihe aba yavunitse, ashobora gukoresha intoki ze, akabikora ameze nk'umuntu uri kwimasa cyangwa akajya kwa muganga kugira ngo naba yagize ikibazo gikomeye bamufashe.

umugore wicaye mu rugo iwe uri gukora imyitozo ngororamubiri yigorora amaguru akigorora n'amaboko kugira ngo yirinde kuba yagira amavunane kandi umubiri we ubashe gukora neza n'amagufwa ye akomere

Kunywa amazi meza bifite akamaro gakomeye mu mubiri w'umuntu kuko bimufasha mu igogora, mu gifu kandi bikamufasha no gusohora imyanda mu mubiri, biba akarusho iyo umuntu ukora imyitozo ngororamubiri anyweye amazi kuko atakaza ibyuya byinshi igihe ari gukora imyitozo, bityo nawe agakenera kunywa andi mazi kugira ngo asubirane ubuhehere mu mubiri.

Gukora imyitozo ngororamubiri, turambura ibice by'umugongo, amaboko, turambura n'amaguru, ni bimwe mu bintu bidufasha kutagira amavunane, kandi amagufwa yacu, agakomera, bityo tukabasha kubaho dufite ubuzima bwiza buzira umuze.

Gukina umupira w'amaboko cyangwa uw'amaguru ni bumwe mu buryo bwo gukora imyitozo ngororamubiri ifasha abantu kugabanya ibinure, kugabanya ibyuya mu mu mubiri bagahumeka neza, bakagira umubyibuho uringaniye n'ibindi.

Hari amavuriro ashinzwe gufasha abantu bakora imyitozo ngororamubiri kugira umubyibuho udakabije, bakoresha ibinini, bakoresha imikandara, bicunda ku byicundo, baterura ibyuma, bityo bakabasha kubaho birinda indwara nka diyabete n'izindi.

Igihe umuntu akora imyitozo ngororamubiri ashobora gutsikira cyangwa kugira imvune, bityo asabwa kwifashisha abantu babihugukiwe kugira ngo bamukande kandi bamuvure, yongere asubirane ubuzima bwiza abashe kugenda no gukoresha ingingo z'umubiri we.

Amazi yo kunywa ni ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu. Umuntu ukunda gukora imyitozo ngororamubiri yakagombye kunywa amazi, cyane cyane amazi afite isuku akayanywera mu kirahuri cyangwa se igikombe kibonerana ku buryo atabasha kunywa imyanda, akitegereza ko ayo mazi nta myanda irimo.

Umuntu wagize ikibazo cyo kuvunika mu ivi, umuntu agomba kumuvura agenda amukandaraho gake gake ukirinda kubikora cyane kugira utamubabaza kuko ingasire ivuyemo yakangirika cyane bigasaba y'uko bamuca n'ukuguru. Bigomba gukorwa n'umuganga rero wabyize sibya buri muntu wese.

Igikorwa cyo guteza imbere imyitozo ngororamubiri ntabwo cyagiye ngo kigarukire mu kuyikora gusa cyangwa se mu kuyiteza imbere. Ahubwo Leta y'u Rwanda igenda ishyira imbaraga uko bwije n'uko bucyeye mu kuyagura binyuze no mu bikorwa remezo aho abaturage bahurira. Aha twavuga nk'amasitade, ibigo mpuzabantu babasha kureberamo imikino itandukanye n'ibindi.

Umuntu ukora imyitozo kandi akanywa amazi, uba usanzwe afite umubiri ugororotse nta binure byinshi nta mubyibuho ukabije, nta bintu byo kurwara indwara uko yiboneye kubera ko gukora imyitozo ngororamubiri bifite agaciro kanini.

Imvune yo mu ijwi, ni kimwe mu gikomere gikabije cyane kandi kibabaza, uwavunitse asabwa gukoresha nk'ubuki, gukoresha bande yo kuzirikaho, ibimera gakondo harimo nka nyiramunuka, agasingirizaho neza neza hakanoga ndetse no kuhakanda n'amazi.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo ibyifashishwa mu kuvura abarwayi, ariko tugasangayo icyumba kiba kirimo utubati, kikabamo n'ibindi bikoresho, harimo nk'ibikoresho by'isuku umurwayi ashobora gukenera igihe ari kwa muganga.

Imodoka itwara abarwayi kwa muganga ikoze mu buryo yanditseho amagambo mbere iyo umuntu ari imbere aba abona ayo magambo acuramye ariko na none waba uri inyuma ukabona acurukuye ariko abashoferi bagenzi babo iyo barebeye mu birahuri byabugenewe aya magambo baba bayabona neza cyane. Ni ibintu bitangaje bikoranye ubuhanga. Ikindi iyi modoka izwiho kwirukanka cyane ku buryo igeza umurwayi kwa muganga byihuse.

Imikino iri mu moko menshi hari imikino y'amaboko, imikino y'amaguru, imikino yo gukina bakora amasiporo n'ibindi bitandukanye buri wese rero agira umukino akunda kandi akawuvanamo ibyishimo ukamurinda n'indwara harimo nk'umubyibuho ukabije.

Amacunga, tangawize n'iminuvariya bigira umumaro ukomeye cyane kuko byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo nk'inkorora, harimo nko kugabanuka kw'isukari mu mubiri n'ibindi.

Hari imiti itandukanye ikungahaye mu kongera intungamubiri dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, nyamara ikomoka ku bimera by'ibyatsi twirirwa tunyuraho tutabizi, ariko abahanga barabifata bakabisya, bakabitunganyamo iyi miti, tukayikoresha tukagira ubuzima bwiza.

Uko bwije, uko bukeye imiti gakondo ikomoka ku byatsi karemano igenda yiyongera iba myinshi kandi inavura indwara zitandukanye. Hari amaduka amwe n'amwe ayicuruza maze rero abantu bayagane bajye kwivuzayo, bagure n'imiti yo kwivura.

Umuravumba ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, twavugamo nk'inkorora n'ibicurane, ugira amazi y'imyunyunyu asharira cyane ku buryo bitorohera umuntu ugiye kwivura iyo ndwara kuyanyunyuza ngo ayamire ajye mu nda usanga abantu benshi.

Hari indwara zimwe na zimwe usanga zarananiranye umuntu agahiga imiti akayibura, ugasanga no kwa muganga ntibazivura, ariko ugasanga imiti gakondo ihise izivura mu gihe gitoya. Hari nk'imiti rwose ifite amagarama ijana yonyine ariko ihita ikiza umurwayi mu gihe kitarenze n'iminsi itanu.

Kubaho neza burya mu buzima ntabwo ari ukwivuriza ahantu hahenze cyangwa se gukoresha imiti ya kizungu gusa, hashobora no gukoreshwa ibyatsi gakondo bityo umuntu akabasha kwivura indwara zari zamwugarije, mu Rwanda hari yutubi cano nyinshi cyane zifasha abantu mu kubashishikariza no kubereka uko bakoresha ibyatsi gakondo bivura indwara zabananiye.

Mu mazu acuruza imiti gakondo hirya no hino mu mujyi wa kigali ndetse no mu nkengero zawo, abantu usanga bagiye kubaza ibiciro ndetse no kubaza imiti yabavura indwara baba bafite. Ariko abakoresha iyi miti basabwa kwitonda cyane kuko hari abacuruzi bayipirata ubundi bagakoresha imiti itari iya nyayo.

Ibimera gakondo, byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, harimo ibinini dusanga kwa muganga, hakabamo n'amavuta yo kwisiga ku mubiri, aturinda kugira ibiheri, cyangwa aturinda kutagira ububyimbe bukabije mu gihe twariwe n'udusimba, cyangwa udukoko turimo n'inzuki.

Hari imiti ikomoka ku byatsi gakondo ikungahaye mu kongera intungamubiri. Abantu benshi bakunda kuyigura mu cyimbo cyo kujya guhaha nk'imboga, nko kugura inyama, ahubwo bagakoresha iyi miti, kuko usanga na yo yongera imbaraga, ikubaka umubiri, ikarinda n'indwara mu mubiri.

Ibimera gakondo birera byamara gukura ikarabya, byamara kurabya indabo bikazana imbuto. Izo mbuto zirifashishwa cyane mu gukorwamo imiti, ivamo ibinini twivurisha kwa muganga ndetse mu bice bimwe na bimwe by'icyaro, abaturage bakunze gukoresha ibimera gakondo nko guhekenya imbuto bivura indwara zirimo n'inkorora.

Hari isabune nziza ziherutse gukorwa, zikomeye, zireta, zifura imyenda neza, kandi zikomoka ku bimera gakondo, iyi sabune irangwa n'ibara ry'kigina kandi ikora neza ku buryo ishobora kudashira vuba byihuse.

Burya imbuto z'imyembe ntabwo ari izo kurya gusa nk'imbuto, ahubwo hanyuma y'ibyo zinakorwamo nk'amavuta yo kwisiga. Ayo dukoresha ku mubiri, ayo bashyira mu mutwe ukabasha kunyerera kandi umusatsi ntupfuke n'ibindi.

Kugira ngo imiti ikomoka ku byatsi gakondo yemerwe kandi ikoreshwe n'abaturage bayimenye, bisaba kuyamamaza cyane binyuze nko ku maradiyo, kuyifotora amafoto ukagenda uyimanika ku byapa, abaturage bakajya bayitegereza ndetse ukandikaho n'ikintu uwo muti uvura, bityo ukamenyekana akawugura ku isoko.

Imbuto zitandukanye harimo imineke n'inanasi ziri mu zifashishwa mu gukora poroduwi zitandukanye, harimo nk'amavuta yo kusiga, harimo ayo gusiga mu musatsi, ayo gusiga ku ruhu n'ibindi.

Hari icyatsi bita ikibonobo, bamwe bavuga yuko kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye nyine, harimo nk'inzoka, harimo nk'imvune, hakaba hari n'abandi bavuga yuko iki cyatsi ari ibiribwa ngo by'inzoka mbese ngo n'ahantu kiba ukunda kuhasanga ubwoko bw'inzoka zitandukanye harimo n'inshira n'insharwatsi.

Ubuki ni amatembabuzi yorohereye ariko nanone asa nk'afashe ukuntu, akomoka ku dusimba dutoya bita inzuki, ubu ngubu rero ni ingenzi cyane mu buzima bwa muntu kuko bushobora kuvura indwara zitandukanye, harimo nk'inkorora, ikindi bushobora gukoreshwa nko kunywa igikoma bugasimbura isukari n'ahandi.

Uyu munsi wa none nawe ushobora gutangiza uruganda rwawe cyangwa se ubucuruzi bwo gucuruza imiti n'amavuta akomoka ku byatsi karemano ukajya ubitunganya ubundi ukabishyira ku isoko bakabigura.

Amavuta yo kwisiga mu bwoko butandukanye, hari aya ashyirwa mu buguni agapfundikirwa, hari ay'amazi akoreshwa nko mu mutwe. Aya yose kandi akomoka ku bimera, ibyatsi bya buri munsi twirirwa tunyuraho bitunganywa ubundi bigakurwamo ibisukika dukoresha ari byo isabune.

Ibimera gakondo byifashishwa mu gukurwamo imiti itandukanye. Igikakarubamba ni kimwe mu bimera gakondo gikorwamo amavuta yo kwisiga ku ruhu, ayo gusiga mu musatsi ndetse kandi hari n'ibindi bimerara gakondo bikorwamo imiti ishinzwe kongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Imiti gakondo iri mu moko atandukanye, hari imiti iba ifunitse mu dushashi ubundi umuntu yayinywa akamirana n'udushashi ariko byagera mu nda bigashonga kugira ngo ibashe kumuvura, hari n'iyindi ipfunyikwa mu yandi macupa atandukanye biterwa n'iyo umuntu ashaka kugura.

Hari ibimera gakondo birandaranda mu kirere bigakura bikavamo ibiti by'inganzamarumbu, ariko binakoreshwa nyine mu kuvura abantu indwara zitandukanye, akenshi indwara zo mu nda zivurwa n'amababi y'ibi biti.

Amavuta menshi twisiga, yaba ku mubiri n'ahandi, akomoka mu bimera gakondo, bya byatsi bya buri munsi tunyuraho. Barabifata bakabitunganya bakabinyuza mu ngada zabugenewe, ubundi bikavamo amavuta.

Ubu ntibikiri ngombwa ko umuntu ajya guhiga ibyatsi gakondo mu kabande cyangwa ahantu mu bigunda kure cyane, ahubwo ushobora nawe kujya mu rugo ugafata umufuka, ukawushyiramo itaka, ugashyiramo n'ifumbire, ugateramo rwa rubuto, ukajya uruvomera ukarwitaho.

Hari imiti ikoze mu bwoko bwa gakondo neza neza isa icyatsi kibisi cyera imeze nk'ibyatsi, ibi ngibi bya buri munsi tunyuraho, wagira ngo baba babiseye ubundi bagahita babivanamo ifu ariko igitangaje iyi imiti ivura indwara zikomeye, hari n'igihe usanga iryohera nyamara yakozwe mu byatsi birura.

Hari ibikoresho byabugenewe ngo umuntu yifashishe iyo agiye gukora imiti gakondo, harimo nk'agasekuru gatoya gafite n'umuhini wako ushobora gushyiramo amababi y'ibyatsi, ukayasekura yamara kunoga, ukayapfunyika mu kantu hakavamo umuti.

Hari imiti ikorwa mu bimera gakondo ishinzwe kongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu. Ushobora kuyigurira cyangwa ukayisanga mu kigo bita Ariyanse gikorera mu nyubako yo kwa Makuza mu mujyi wa Kigali, kikaba ari ikigo cy'Abanyafilipine ku mugabane w'i Burayi.

Ibimera gakondo bikwiye kubungwabungwa cyane kuko biri mu bidufasha kuvamo imiti ivura indwara zitandukanye, inzoka zo munda, amenyo nko kurwara ifumbi byo mu kanwa, ibi byose bishobora kuvurwa n'ibyatsi gakondo birimo ibigufi n'ibitoya, bityo tugomba kubibungabunga.

Ibimera gakondo ni byo bifite ubushobozi bwo kugenda hagakorwamo imiti itandukanye; dukoresha amavuta, amasabune ya buri munsi afura imyenda, n'ibindi bitandukanye kubera ubushobozi ibi byatsi biba byifitemo byo guhangara ibisharira n'ibidasharira.

Uburyo dukoresha twivura uyumunsi wa none, butandukanye n'ubwo abantu bakera bakoreshaga, uyu munsi ushobora kujya kwa muganga ugakoresha ibinini, ariko kera bakoreshaga ibyatsi gakondo, ariko nubundi bya binini byo kwa muganga usanga biba bikoze muri bya byatsi nubundi aba kera bakoreshaga.

Imiti gakondo ni byiza y'uko nimara gukorwa, ifunikwa mu macupa, hagashyirwaho udupapuro twanditseho amazina yayo, ndetse n'ibimera ikomokamo, bigafasha umuntu ugiye kuyikoresha, kumenya amakuru yizewe, kugira ngo agire icyizere ko ahawe ibicuruzwa bizima.

Ntushobora kumenya akamaro k'ibyatsi utarabona imiti ikorwamo, utarabona amavuta ya buri munsi dukoresha akomoka muri ibyo bimera nyine, ibingibi umuntu utabizi ntiyabyemera, ariko abantu bamaze kubibona, babungabunga ibyatsi bakabifata neza.

Imiti myinshi ivura amenyo, ivura umutwe, ivura inzoka, ikorwa mu bimera gakondo, birimo ibyatsi tunyuraho bya buri munsi kandi ikadufasha iyo tuyikoresheje.

Hari ibyatsi biba bitangaje ku buryo bigoranye no kwizera yuko byavura indwara runaka, ariko hashobora gukoreshwa ingamba umuntu akaba yabifata wenda akabiteka, agacanira, agafata ya mazi yavuyemwo akayanywa ubundi agakira.

Hari ibyatsi by'ingenzi cyane bivura indwara zitandukanye ku buryo usanga byaranubakiwe kugira ngo inyamaswa zitazabirya, harimo nk'amahene akunda kurisha n'inka. Ibi byatsi rero iyo bimaze gukura tubikuramo imiti twifashisha tuvura indwara za buri munsi.

Amavuta menshi dukoresha yo kwisiga ku mubiri, ayo kwisiga mu mutwe n'imiti y'amenyo. Usanga bikomoka mu bimera gakondo ariko bigira uruhare runini cyane mu gufasha abantu mu buzima bwa buri munsi, gukora isuku yaba yo ku mubiri ndetse no mukanwa.

Ibyatsi iyo bibonye imvura bikabana n'izuba bishobora gukura cyane bikarandaranda bikagenda bikagera no muri metero ijana ujya hejuru, bikaba byagenda bigakora no mu bicu mu kirere, byifitemo ubushobozi rero bwo kunyunyuza ifumbire yo mu butaka ibufasha gukura cyane.

Hari abafata ibimera gakondo nk'ibindi bintu bifite imbaraga zihambaye kandi zidasanzwe, hari n'ababitunganya bakabibyazamo ibindi bintu, yewe hari n'abadatinya kuvuga y’uko byakwifashishwa mu kurogora abantu barozwe, mu kuvura umuntu ukunda guhura n'igihombo mu gihe ari umucuruzi, abagabo babura ubushake mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina n'ibindi bikorwa.

Imiti gakondo ifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye hari irogora, ivura igituntu, ivura indwara zikira n'izidakira yewe na za zindi zananiranye kwa muganga imiti gakondo ikarebaho ugasanga mu masegonda irazivuye.

Ni byo koko imiti ikomoka ku byatsi karemano ivura indwara zitandukanye, harimo izo mu nda, izibasira impyiko, izibasira inzoka zo mu mara, ariko iyo ukoresheje iyi miti ibasha gukira.

Hari abaturage bivura inkorora, iyo bafashe amababi y'umuravumba bakayashyira mu mazi bityo bakabasha kuyayakamura, ubundi bakanywa ya mazi yo mu muravumba bakabasha kwivura indwara y'inkorora. Ibi akenshi bikorwa cyane cyane mu bice byo mu cyaro.

Ibitovu ni bimwe mu byatsi bigira amahwa cyane ajombana, bityo bikaba bitorohera buri muntu wese ushaka kujya gutema ibi byatsi. Uretse kuba bifite amahwa kandi bishobora no kuvura indwara zitandukanye mu buzima harimo kuba byavura inzoka n'izindi.

Ubuki bukomoka ku nzuki, umuntu abukoresha yivura indwara zitandukanye harimo izo mu muhogo, ikindi kandi ubuki buraryohera cyane ku buryo abantu bose babukunda, uretse kuba buvura bunakoreshwa mugu gukora ibindi bintu bitandukanye.

Hari ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukorwamo imiti ndetse no kuvura indwara abaturage, muri ibyo bimera twavugamo nk'inanasi, twavugamo umuravumba, aho babifata bakabitunganya, ubundi bakajya kubikoramo imiti.

Bamwe mu bakora imiti ikomoka ku byatsi gakondo n'inganda zitandukanye ni bamwe mu bantu bazi ubwenge cyane, kuko bakoresha ingamba zirimo no kwamamaza ibicuruzwa byabo maze bagatanga nimero abakeneye iyo miti bakabahamagara bakayibagezaho bakayikoresha.

Hari abaturage bamwe na bamwe batunzwe no guhinga imyaka bakayiza maze bakayisarura bakajya kuyigurisha ku nganda ziyitunganya twavuga nk'abahinga icyayi, abahinga urusenda n'ibindi. Bene abangaba batunzwe n'umurimo wa buri munsi wo guhinga ibimera gakondo cyangwa se ibyatsi.

Ubuvuzi gakondo burushaho kugenda butera imbere umunsi ku munsi. Hari n'abadatinya kuvuga yuko bafite ubushobozi bwo kurogora abantu barwaye ibisazi ngo ndetse bakavura n'abagabo babuze ubushake mu gihe cyo gutera akabariro.

Ibimera gakondo biri mu moko atandukanye; hari ibirabya ururabyo bikiri bitoya, hari ibirabya ururabyo ari birebire cyane, hari ibyera imbuto, hari ibigira amababi agandaye; hari ibizana indabo z'umuhondo n'ibindi.

Gukoresha umuti w'amenyo mwiza wababugenewe biri mu bintu bituma ugira amenyayo asa neza kandi adafite umwanda ugahora useka umwenyura kubera ko uyu muti ufitemo ubushobozi bwica udukoko dushobora gutera indwara z'amenyo.

Hari imiti ikorwa mu bimera gakondo, ikorwa kugira ngo ifashe abantu bongere intungamubiri mu mubiri, urugero ikigo Ariyanse cy'Abanyafilipine ku mugabane wa Aziya, gikora imiti ishinzwe kurinda abantu ibiheri, no kubongerera intungamubiri mu mubiri wabo.

Abavuzi ba gakondo bifashisha ibikoresho bitandukanye iyo bari kuvura abantu, harimo nk'inkono, uducuma, utudasesa, inkoko, ibicupa birimo imiti y'abo n'ibindi.

Hari imiti iba ibikozwe n'ibyatsi bikomoka ku nyanja ibyo byatsi bimera mu bihugu bikora ku nkombe z'amazi harimo nk'ibihugu by'Iburayi, ibihugu byo muri Afurika y'Amajyaruguru, u Rwanda nk'igihugu kidakora ku nyanja birumvikana ko iyi miti bayibona ari uko bayitumije muri ibyo bihugu ikorerwamo.

Umuti w'amenyo dukoresha wa buri munsi, buriya ntabwo uba ukoze mu bintu bihambaye, uretse ibimera gakondo, twirirwa tunyuraho mu nzira cyangwa mu bihuru mu bigunda, abahanga barabifata bakabyifashisha, bakabisya, bakabikuramo uyu muti, ubundi tukawukoresha.

Nta ndwara n'imwe umuntu ashobora kurwara ngo iburirwe umuti uyivura kandi hari ibyatsi by'amoko atandukanye avura izi ndwara zitandukanye, buri cyatsi cyose gifite ubushobozi bwo kuvura indwara zirenga eshanu cyangwa esheshatu abantu rero ni ahabo bagahuguka bakamenya gukoresha imiti gakondo.

Hirya no hino mu bisambu cyangwa se ibyo bakunze kwita ibigunda hamera nk'ibyatsi by'amoko atandukanye nk'umuravumba, uyu nguyu iyo ukuze uragenda ukarabya uturabyo tw'umweru utu turabyo tutakaye hasi ashobora gushibuka indimi iravuma cyangwa umuntu akawutera atemye ingeri yawo akayitera mu butaka hakameramo ikindi giti.

Ntibikiri ngombwa y'uko umuntu ahangayikishwa n'indwara runaka yamuzengereje kandi hari ibimera gakondo by'ibyatsi biba biteye mu bisambu, bishobora kumuvura agahita akira atiriwe atakaza n'amafaranga menshi ajya kwivuza mu bitaro bihenze.

Hari amacupa aba apfunyitsemo ibibabi by'ibiti bikomoka ku bimera, ibyo bibabi bikavura indwara zitandukanye, nk'inkorora, inzoka zo mu nda, iyo miti usanga icuruzwa mu masoko, no mu bigonderabuzima byigenga.

Ibyatsi gakondo biri mu moko atandukanye tungurusumu, tangawizi, imiravumba, ibikamba, amavoka n'ibindi, buri cyatsi gifite ubushobozi bwo kuvura indwara yananiranye, bityo rero ntituzatake ngo twabuze imiti.

Ibyatsi by'ibimera karemano biri mu moko atandukanye. Hari ibyatsi birandaranda hasi bikazana uturabo tw'umuhondo. Ibi ngibi rero bivura indwara zitandukanye, harimo nk'inzoka zo mu nda, harimo za amibe zazonze abantu benshi cyane, kandi zikunda guterwa ahantu nk'imusozi hatagera amazi.

Ni byiza yuko buri muntu wese akwiriye gukoresha umuravumba kubera ko uvura indwara zitandukanye, umuravumba uvura inkorora, igituntu ,uvura mu nda, umuravumba nubwo kuwuhekenya bisharira ariko umuntu uwuriye uramufasha agakira vuba.

Ibimera gakondo iyo biteye mu murima bikabona izuba n'imvura birera neza bikarabya n'indabyo izi ndabyo ni nazo zibifasha kongera gushibuka bikeraho ibindi bizabikomokaho mu gihe kizaza ikindi kandi bivamo imiti abantu bakoresha bivura twavuga nk'imiti ivura inkorora n'ibindi.

Ibimera buriya nabyo bikenera amazi kugira ngo bigire ibi babi bibobereye kandi bibashe gukura. Iyo ubyitegereje ari mu gitondo usanga byazanye urume. Ya mazi byakiriye birayafata bikayabika maze na byo bikarara byihubeza kugira ngo bitabasha kuma ahubwo birusheho gukura. Ibi rwose iyo ubibonye uba ubona bitangaje.

Igikakaruhamba gikorwamo imiti itandukanye ndetse n'amavuta yifashishwa mu kuvura abantu, yaba mu kuvura ibiheri biba ku mubiri wabo cyangwa se mu kwisiga kugira ngo uruhu rwabo ruhore rukeye kandi runoze.

Ibyatsi karemano ni ingenzi cyane mu buzima bwa muntu, kuko bishobora gukurwamo imiti itandukanye yo gufasha umuntu urwaye zimwe mu ndwara twavuga zavurwa n'ibi ngibi harimo inzoka, kuvura ubumara nk'umuntu wariwe n'inzoka n'ibindi.

indwara ya amibe ni imwe mu zikomeje kuzengereza abantu benshi, ariko ikaba ivurwa hifashishijwe ibimera gakondo kuko bikorwamo imiti harimo nk'umuti witwa leyishi mu ma y'abanyamahanga ushinzwe guhangana kandi ugakiza iyi ndwara, uboneka hirya no hino mu masoko acuruza imiti gakondo ndetse no kwa muganga

Ibyatsi byakozwemo ibintu byinshi bitandukanye kugeza na n'ubu biracyakorwamo, amavuta yo kwisiga ni kimwe mu bintu bikorwa mu byatsi kandi ni kimwe mu bintu bya buri munsi dukoresha nta muntu wajya ahantu atisize kuko yaba asa nabi cyane.

Ubuki ni ikintu cy'ingenzi cyane .Umuntu wese yagakwiriye kurya ubuki kubera ko buriya nabwo budufasha mu bintu byinshi cyane. Ubuki buvura indwara zitandukanye. Ubuki bufasha umuntu kujya mu muhogo hameze neza ntarware indwara zo mu muhogo.

Imiti ikomoka ku bimera gakondo, iyo bamaze kuyitunganya nta kindi kiba gisigaye uretse kuyibika mu macupa yabugenewe kugira ngo itagerwaho n'ubukonje ikangirika vuba. Ifungurwa n'umuntu wenyine wayiguze kugira ngo ahite ayikoresha ikiri mizima.

Igikakarubamba ni icyatsi gikora ibintu byinshi cyane, kivamo umuti uvura amahumane ameze nk'ibiheri biza ku mubiri w'abantu, maze bikabazonga kuko biba bibarya cyane, avamo amavuta ya buri munsi twisiga, ikindi igikakarubamba umuntu ashobora kugikoramo umuti uvura inzoka zo mu nda.

Isabune nyinshi dukoresha, n'amavuta yo kwisiga ku mubiri wacu, usanga bikomoka mu bimera gakondo, ibyatsi birandaranda hasi, indabo, ibi ngibi biratunganywa, maze bikavanwamo aya masabune dukoresha ya buri munsi.

Umuravumba burya iyo weze cyane uzana n'ibyatsi by'indabo zirabya z'umuhondo izo ngizo zifite umumaro ukomeye cyane, urugero nk'inzuki zishobora kuza zigahovamo ubundi zikajya gu gukora ubuki cyangwa se hakavamo imbuto zizeramo ibindi byatsi mu gihe kizaza.

Icyayi buriya gikorwamo ibintu bitandukanye, hari abantu bagihinga benshi cyane nko mu Karere ka Nyamasheke mu Rwanda, uretse kuba rero bagitunganya, bakakivanamo icyo abantu banywa, gifite n'akandi kamaro yuko gishobora gukora nk'umuti, uvura indwara zitandukanye, harimo nk'inkorora cyangwa se indwara zo mu mihogo.

Imiti gakondo iri mumoko atandukanye. Hari iba ari ibyatsi , umuntu akabikoresha bivuguse agasiga nko ku gikomere cyangwa imvune. Ariko nanone hari iyo bafunika mu maducupa ugasanga bakamuye ya matembabuzi y'ibyatsi bagashyira mu maducupa , ubundi bakanyajyana ku isoko . Hari imiti usanga yujuje ubuziranenge , hari imiti usanga itujuje ubuziranenge ; ariko leta ntiyemera .

Ibimera bifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye, hari ikimera gishobora kuvura inkorora, ikindi kikavura inzoka zo mu nda, ikindi kikavura izo mu muhogo bityo rero ni amahitamo y'umuntu kumenya ikimera akoresha mu kwivura.

Umuravumba, ni ikimera gakondo gikungahaye kuba kivura indwara nyinshi zitandukanye: twavugamo inkorora, twavugamo igituntu, twavugamo indwara z'inzoka zo mu nda n'ibindi.

Umuti w'amenyo dukoresha buri munsi ukorwa mu bikakarubamba. Ni abantutu bakeya bazi rino banga ry'uko ibyatsi karemano bishobora kuvamo umuti. Nawe wabikora uramutse ubishyizemo umuhate ukegera abantu babisobanukiwe.

Amababi y'ibimera gakondo niy’atunganywa bakayasya, bakayumisha, akavamo udufu dutoya, ubundi bakadufunika mu dupalasitike, akabasha kujya kw’isoko, agakorwamo imiti ikagurishwa ku barwayi.

Shampo ni umuti wabugenewe wifashishwa mu gukora isuku, cyane iyo mu mutwe; hibandwa mu gufuramo kugira ngo umuntu atazana imvuvu kandi umusatsi we ukaba wahindura ibara, iyi shampo ikorwa mu bimera gakondo birimo igonde bikabamo n'igikakarubamba.

Ibimera gakondo biri mu moko atandukanye, kandi bivura n'indwara zigiye zitandukanye, harimo indwara z'inzoka zo mu nda, indwara z'ibicurane, indwara zifata mu mavi nk'imvune, ibi bimera rero bigira umumaro utandukanye kandi bikavura bitandukanye.

Amavuta menshi yo kwisiga, akorwa mu byatsi gakondo, agatunganyirizwa mu nganda, akajya ku isoko ari ibisukika cyangwa ibifashe bimeze nk'amabuye, abantu bakayakoresha.

Abantu bavuga ibitekerezo bitandukanye ku miti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku byatsi karemano twasigiwe n'abakurambere. Hari abemera koko ko ivura, hari n'abemera yuko ko itavura ngo ari ubutekamutwe, cyane ko hari n'abavuga ko bazi kuyikoresha bakavura n'amarozi abantu barozwe bagakira.

Burya ibinini byinshi dukoresha harimo nk'ibivura indwara zitandukanye marariya, indwara zitandura nka za sida, imitezi n'izindi buriya bikomoka ku bimera gakondo, uko bikorwa biragenda bigacishwa mu nganda bakabisya hanyuma ya mababi yabyo na ya mazi akungahaye ku myunyungugu niyo agenda agakorwamo ya miti nyine tukagenda tukayigura.

Serumu ni umuti ukomeye cyane kandi w'ingenzi mu buzima bwa muntu, iyi ngiyi bayitera umuntu wahuye n'ikibazo cyo kugira amaraso makeya ikamufasha kongera kugaruka ibuntu, kandi irahenda cyane bityo nta muntu upfa kwigondera, umuntu uyibona ni wa wundi urwaye indwara ndetse biba bigeze hahandi amagara ye agomba gutabarwa vuba.

Umuravumba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ugira ibibabi by'icyatsi kibisi ukagira amazi asharira cyane, ku buryo abantu benshi batinya kuwuhekenya kandi uvura indwara nyinshi.

Hari imiti myinshi cyane dukoresha buri munsi, ariko igitangaje ni uko ikorwa mu byatsi n'ibimera akaremano tunyuraho buri munsi. Ikirenzeho abantu bose nta nubwo baba babizi, usanga babipfusha ubusa babyahirira inka, ariko batazi ibanga ko bivamo imiti.

Imiti gakondo ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye kuvura amarozi, kuvura abagabo batagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina n'abagore bishakiye, hari n'abacuruza bahombaga, ngo imiti gakondo igashobora kuvura abantu bafite inyatsi, harimo ni iyo guhura n'igihombo cyangwa gukora utunguka.